Abana benshi bambaye impuzankano y'abanyeshuri, ijipo zirimo umweru werurutse, imipira n'umukara w'amaboko maremare, n'ikabutura z'ubururu bwerurutse n'imipira y'umukara, bafite ibikombe mu ntoki bose barimo kunywa amazi, baravoma ku kigega kiri mu ibara ry'umukara, inyuma yabo hari ibiti byinshi.

Abantu babiri umwe ni uw'igitsina gore yambaye umupira w'ubururu n'agapfukamunwa, afite umusatsi muke yambaye igitenge kiri mu ibara ry'umuhondo. Imbere hari umwana wambaye imyenda y'ikaki hari ibintu arimo kumuhereza mu biganza, inyuma y'abo hari ibiti byinshi biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Umwana w'umukobwa wicaye asutamye, yambaye imyenda y'amabara menshi arimo guseka ni imibiri yombi, arimo gukaraba ibiganza byombi, imbere ye hari injerekani irimo ubururu n'izindi z'umuhondo.

Abantu b'igitsina gore batatu, barimo kuvoma amazi, umwe uri inyuma yambaye igitenge cy'amabara y'umutuku, n'utundi turimo tw'umweru, yiteze n'igitambaro, aravomera mu ndobo y'icyatsi kibisi, hari abandi barimo kubafasha bafashe icyuma inyuma, bambaye nabo ibitenge by'amabara, inyuma yabo hari ibiti binini.

Abana benshi abahungu n'abakobwa bambaye impuzangano y'abanyeshuri iri mu ibara ry'ikake, barimo kuvoma amazi bakoresheje indobo ziri mu ibara ry'umuhondo. Inyuma yabo hari ibiti by'imikindo byakuze cyane.

Umugabo wicaye ahagana haruguru wambaye imyenda y'bururu, hari umufuka abagore babiri barimo kumuhereza, harimo uwambaye imyenda y'igitenge cy'icyatsi kibisi, hari undi yambaye iri mu ibara ry'ikigina, impande yabo hari imifuka y'imyeru.

Umugore wambaye igitenge cy'icyatsi kibisi n'umupira urimo amabara, afashe kuri robine n'akaboko kamwe. Hari ijerekani y'umuhondo arimo kuvomera, inyuma ye hari ishyamba. Hari n'umusozi uriho ibiti byinshi.

Abantu barimo kugenda mu kayira nyabagendwa ari benshi higanjemo abambaye impuzangano y'abanyeshuri, hepfo yabo hari umugabo wunamye ku iriba wambaye ishati irimo ibara ry'ubururu, arimo gufasha umwana kuvoma arimo kuvomera mu kajerekani karimo ibara ry'umuhondo.

Abantu benshi, abagabo n'abagore, bose bambaye amataburiya y'ubururu, bakenyeye ibitenge abagore, umugabo yambaye ikoboyi uri ku ruhande, afite telefone mu ntoki, bose bafite ibitabo mu ntoki zabo, inyuma hari urukuta ruri mu ibara rijya kuba umuhondo.

Abantu babiri umugabo w'imibiri yombi, wambaye ikabutura y'umuhondo n'isengeri y'umukara. Afite umusatsi wumukara, arimo gukaraba mu ndobo y'ubururu, umwana wambaye agashati karimo utubara turimo n'umuhondo, arimo kumusukira amazi akoresheje akabinika kari mu ibara ry'ubururu.

Abantu b'igitsina gore bahuriye aho bavoma amazi, amajerekani menshi ari mu ibara ry'umuhondo, hari n'indi iri mu ibara ry'ikigina, hari uhagaze wambaye ijipo y'umweru n'agapira k'umukara, ahagaze imbere y'umuryango arimo kubafasha kuvoma.

Abantu benshi abagabo n'abagore, biganjemo abambaye amataburiya y'umweru n'amapantaro y'umukara, hari n'uwambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umutuku, bahagaze imbere y'inyubako nziza iteye irangi ry'ubururu, ifite n'inkingi z'ubururu, yanditseho amagambo agaragara neza yerekana ibihakorerwa.

Umubyeyi witeze igitenge kirimo amabara y'icyatsi kibisi, umweru n'umukara, umupira urimo amabara y'ubururu n'umweru n'umukara, akikiye umwana, hari umuganga wambaye impuzagano y'umweru, afite umusatsi uringaniye, arimo gutera umwana urushinge, ni ukumukingira, iruhande rwe hari ameza ariho ibikoresho byinshi.

Umugore wikoreye indobo iri mu ibara ry'umutuku, afashe indi y'umuhondo mu ntoki, yambaye igitenge kirimo amabara, arimo kuzamuka ahantu hari umusozi uriho ishyamba.

Abantu batatu, bose ni igitsina gore, hari urimo kuvoma akoresheje indobo y'icyatsi kibisi, yambaye igitenge kirimo umutuku n'umweru, abandi babiri bafashe icyuma kiri inyuma kugira ngo bimworohere, inyuma yabo hari ibiti byinshi.

Abantu bahagaze hamwe abahungu n'abakobwa, bambaye ingofero y'umweru umupira w'ubururu uriho inyuguti z'umweru mu gatuza, ni inzobe hafi ya bose bazamuye akaboko bafunga igipfunsi, inyuma yabo hari icyapa cyandikishijeho inyuguti z'ubururu.

Umwana w'umukobwa, wisutse imisatsi, wambaye ikanzu idoze mu gitenge kirimo amabara y'umutuku n'andi mabara ajya kuba umukara n'umweru, arimo akaraba intoki zombi mu ibase y'umukara, inyuma ye hari urukuta rwubakishije amatafari.

Umugabo wambaye ipantaro yumukara, ishati yumweru irimo n'utubara tw'umukara tutagaragara neza, ni igikara araseka. Yicaye ku ijerekani y'umuhondo yafatishijeho amaboko yombi, hirya yaho hari ropine, inyuma hari ibiti birimo ibara ry'icyatsi kibisi.

Umubyeyi wambaye igitenge kirimo amabara y'umukara n'umweru, imisatsi myinshi urimo guseka w'igikara akikiye umwana wambaye agapira k'umweru, hari uwambaye impuzankano y'abaganga arimo kumuha urukingo nyina arishima.

Abantu benshi barimo guterura imifuka iri mu ibara ry'umweru, barimo kuyitondekanya hamwe; ni abagabo n'abagore, hari umugore wateruranye n'undi umufuka, umwe yambaye igitenge cy'amabara arimo n'ay'umuhondo, undi yambaye icy'umutuku, umwe yiteza ingofero, undi yiteze igitambaro, bambaye udupira tw'umweru, barimo kujyana umufuka ku yindi.

Umugore wambaye imyenda y'amabara, wikoreye injerekani y'umuhondo, avuye kuvoma, yayifatishije amaboko yombi, hirya ye hari ibyatsi, imbere ye hari inzu ishakaje amabati y'umutuku, kuruhande rwe hari umwana wambaye agapira k'ubururu, w'igikara.

Umwana w'umukobwa wambaye impuzankano y'abanyeshuri irimo ibara ry'ubururu imbere harimo agashati k'umweru nta musatsi afite arimo gukaraba ahantu hari amazi hirya ye hari ibiti harimo ikijya kuma hari n'ibindi biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Abana benshi bambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu harimo n'udushati tw'imyeru imbere, bari kumwe n'umurezi wabo wambaye itaburiya y'umweru n'undi wambaye akajire k'icyatsi kibisi, hari abantu benshi bari hakurya barimo kwitegereza abo bana bahagaze.

Umwana w'imibiri yombi wambaye agapira k'umutuku, agakabutura n'ubururu. Afashe igikombe kiri mu ibara ry'umuhondo, agifatishije akaboko kamwe, arimo kuvoma amazi.

Abana benshi bahuriye ahantu hari amazi, barimo kogamo bambaye ubusa, hari abagana ahagana haruguru, abandi bari kumwe ahagana hepfo, harimo uri hagati wateze amaboko bigaragara rwose ko bishimye.

Umwana w'imibiri yombi, wambaye umupira w'umweru n'agapantaro k'iroze, arimo kuvoma amazi kuri robine, yatezeho injerekani, ni umuhondo, ni eshatu, inyuma ye hari ibyatsi, hirya hari urutoki.

Abantu bicaye hamwe b'igitsina gore. Hari uw'imbere wambaye umupira w'ibara ry'umutuku. Hari uri kumufasha wambaye impuzankano bigaragara ko ari iy'abaganga, harimwo ibara ry'umweru, yateze n'igitambaro cy'umukara, arimo kumusuzuma ku kaboko, areba uko amaraso atembera mubiri. Inyuma yabo hari ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Umwana muto w'imibiri yombi, wambaye umupira urimo ubururu hatambitsemo utubara tw'umukara, arimo gukaraba intoki, hari akaboko k'umuntu mukuru urimo umusukira amazi arimo kumufasha.

Umugore wambaye umwenda urimo amabara y'umutuku n'umweru, hasi yambaye ibijya kuba umukara, afite injerekani y'umuhondo mu ntoki ashyize kuri robine arimo kuvoma amazi, hirya ye hari ibiti byinshi biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Umwana w'umukobwa ukiri muto, arimo gukaraba ibiganza byombi kuri robine, hasi hari ibase y'umukara, imisatsi ye irasutse, yambaye imyenda idoze mu gitenge kirimo amabara y'umutuku n'umukara n'umweru, inyuma ye hari urukuta rw'amatafari ahiye.

Abantu b'igitsina gore bicaye ku murongo, uwambaye ishati itukura n'igitenge cy'amabara, ni we ugezweho ari imbere ya muganga wambaye itaburiya y'umweru n'igitambaro mutwe cy'umukara, yamushyizeho igikoresho bapima bareba uko amaraso atembera mu mubiri, kugira ngo bamufashe.

Abana babiri umwe ari imbere yambaye agapira karimo amabara, arimo gufungura amazi avoma mu ndobo y'umweru, undi ari inyuma ye, hirya yabo hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Umuntu w'igitsina gore, wambaye imyenda y'umuhondo arimo kuvoma amazi mu mugezi utemba, inyuma ye hari umugabo urimo koza igare, wambaye inkweto z'umweru, ipantaro y'umukara, umupira ni umuhondo, hirya yabo hari ibiti byinshi, biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Umwana mwiza cyane w'inzobe, wambaye utwenda tw'umweru baratuzamuye, hari uwambaye impuzankano y'umweru ni iy'abaganga, arimo kumutera urushinge ku kaboko.

Abantu benshi abagabo n'abagore, hari abicaye hari n'abahagaze, higanjemo abambaye impuzankano y'umweru, inyuma yabo hari amagambo yanditse agaragara mu nyuguti z'umweru yerekana aho bari ibihakorerwa.

Abantu benshi bahuriye aho bavoma amazi hari urimo kuvoma wambaye umupira w'umutuku, ikabutura y'umukara werutse ijerekani avomeramo ni umuhondo, inyuma hari uwambaye ingutiya y'umweru, umupira w'icyatsi kibisi yateze n'igitambaro mu mutwe ni igitsina gore, arimo arakurura icyuma kimufasha kuvoma, haruguru hahagaze abandi benshi, inyuma hari urutoki.

Abantu bicaye imbere y'inzu y'amatafari ahiye hari nirido y'amabara, hari umugore wicaye ku ntebe y'ubururu wambaye igitenge kirimo amabababara y'umutuku, hari akana gahagaze iruhande rwe kambaye imyenda y'umutuku, afashe urupapuro mu ntoki; hari umuntu wambaye inkweto za bote z'umweru n'ipantaro y'umweru n'ishati ya karokaro wicaye ku ntebe y'urubaho, afite ibitabo iruhande rwe, hari ibntu arimo kumubwira undi amuteze amatwi.

Umwana w'umuhungu w'umusore wambaye ishati y'icyatsi kibisi ikabutura y'umukara werurutse, arimo gukaraba ibiganza byombi hirya ye hari indobo yo mu ibara ry'ubururu, inyuma ye hari ibiti birimo ibara ry'icyatsi kibisi.

Umugore urimo kuvoma amazi, ijekani ni umuhondo, hari n'indi y'ubururu ahagana haruguru, yambaye umupira w'amaboko maremare, yambaye ingofero, yambaye igitenge kirimo amabara ajya gusa n'umutuku, inyuma ye hari urutoki.

Umukobwa w'igikara, wambaye ijipo ngufi y'umukara, agashati k'iroze, afite ijerekani y'umuhondo mu ntoki, iteretse mu mabasi abiri, arimo kureka amazi, hirya hari igiti kirekire gifite amashami y'icyatsi kibisi.

Umwana wunamye urimo gukaraba ibiganza byombi, wambaye ishati y'icyatsi kibisi n'ikabutura y'umukara werurutse, hirya hari indobo y'ubururu ipfundikiye, inyuma ye hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Umugore w'imibiri yombi, wambaye igitenge kiri mu ibara ry'ikigina, ishati ni ubururu burimo n'umweru, yambaye n'akagofero mu mutwe, arimo gukaraba ibiganza byombi akoresheje kandagirukarabe, inyuma ye hari umuryango w'inzu ukinguye.

Umugore w'imibiri yombi uhetse umwana mu gitenge wambaye umupira w'icyatsi kibisi n'igitenge kirimo amabara atukura, imisatsi ye irasutse arimo koza umufuniko w'indobo utukura, indobo ni umuhondo imbere ye hari ropine y'amazi. Hirya Hari ibiti byinshi biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umweru, agapira kajya kuba umuhondo, yarambuye akaboko, umuntu urimo kumushyiraho igipimo kireba uko ameze, ni umuganga wambaye imyenda y'ubururu, agapfukamunwa k'ubururu, n'akagofero k'icyatsi kibisi, hari undi wicaye inyuma ye nawe w'umuganga, barimo kwita ku barwayi.

Abana bicaye ahantu hamwe bambaye udupira tw'umutuku twanditseho mu mugongo, hari umuntu mukuru urimo kubaha amata wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi, yambaye n'ingofero mu mutwe, hari uwambaye impuzangano y'abasirikare na we afite inkongoro mu ntoki yiteguye guha abana amata hari n'abandi bahagaze inyuma yabo.

Abantu babiri umukuru n'umuto, bari ku mugezi utemba, barimo kuvomamo amazi, bafite injerekani y'umuhondo, umukuru yambaye umupira werurutse n'ijipo y'umukara, umwana yambaye utwenda tw'umukara, inyuma yabo hari ibiti byinshi.

Abantu benshi bahuriye aho bavoma amazi, hari umwana wambaye ikabutura y'umukara, umupira w'umutuku washyize injerekani kuri robine, hari umugore uri inyuma wambaye ingutiya y'umweru n'umupira w'icyatsi kibisi, urimo gukurura icyuma kimufasha kuvoma, hari abahagaze benshi abagabo n'abagore barimo kumwitegereza, inyuma yabo hari urutoki.

Abantu bahuriye aho bavoma amazi, umwana afite akajerekani k'umuhondo arimo kuvoma umusore inyuma wambaye ikabutura y'umukara yerutse n'umupira w'umumweru n'ingofero arimo kumufasha akoresheje icyuma arimo gukurura, inyuma hari umudamu wambaye umupira w'umutuku, haruguru hari undi musore wambaye ikabutura y'umutuku n'umupira w'umukara, inyuma yaho hari umusozi uriho ibyatsi byinshi.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara, ishati y'ubururu y'amaboko maremare nawe ni imibiri yombi arimo gukaraba akoresheje kandagira ukarabe, haruguru ye hari indabo zirimo ni z'umutuku n'icyatsi kibisi, haguru yaho hari inzu itagaragara neza.

Umwana w'umuhungu wunamye wambaye ikabutura itukura, inkweto z'ubururu n'agashati k'amabara. Ari ku ivomo aranywesha amazi amashyi, hepfo ye hari indobo. Hirya hari ibyatsi byinshi, hari n'inzu ihinguka ifite ibara ry'umururu n'umweru.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe, inyuma hari ihema riri mu ibara ry'umweru, hari imodoka y'Imbangukiragutabara, hari uwambaye impuzankano y'abashinzwe umutekano, uri ku muryango wayo.

Abantu babiri bafite injerekani z'umuhondo barimo kuvoma amazi, umwe ni umugore wambaye umupira werurutse w'amaboko maremare unapfutse igitambaro mu mutwe, undi uri haruguru ye nawe yambaye umupira w'amaboko maremare ujya gutukura, hari ishyamba inyuma yabo ryakuze ry'icyatsi kibisi.

Abantu benshi, abagabo n'abagore bicaye hamwe, hagati harimo ameza ariho udukombe hariho n'ibindi bikoresho, hari uwo nyamaha w'umunyamahanga wambaye ishati y'umweru karuvati y'umukara n'ipantaro y'umukara, yashyize akaboko ku meza bose baramureba bamuteze amatwi.

Abantu bicaye hamwe, umwe ni umugabo w'inzobe wambaye umupira, agapfukamunwa, hari undi urimo kumutera urushinge wambaye uturindantoki tw'umweru, itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa k'ubururu, usutse imisatsi, ni umuganga, abandi bari haruguru ye bose biteguye gufasha ababagana.

Bantu b'igitsina gore batatu, umwe yambaye imyenda y'umukara, yunamye ku iriba arimo aranywesha amazi amashyi, undi wambaye imyenda irimo ibara ry'ubururu, na we yashyize ibiganza ku iriba, hari undi uri inyuma yabo urimo kubitegereza wambaye agashati k'umutuku, inyuma yabo hari ibiti byinshi, hino hateretse amajerekani y'amazi.

Umwana w'umuhungu w'igikara, ishati yambaye ni ubururu bwererutse ipantaro ni umukara, arimo gukarabira ku ndobo y'umweru bashyizeho akarobine ipfundikije umufuniko w'ubururu, inyuma hari urugo rwubakishije ibiti.

Abantu benshi harimo umugore w'imibiri yombi wambaye ingofero iri mu ibara ry'ikigina, agapfukamunwa k'umukara n'agapira k'umukara, mu ijosi harimo akantu ka move, hari umuntu wambaye imyenda y'abaganga iri mu ibara ry'icyatsi kibisi, arimo kumutera urushinge yambaye agapfukamunwa k'ubururu, inyuma ye hari abandi n'abafite ibikoresho biteguye gufasha ababagana.

Umuntu w'inzobe washyize ibiganza byombi kuri robine arimo gukaraba, hirya hari ikirere kiri mu ibara ry'ubururu bwijimye cyane.

Umuntu wambaye umupira ujya gusa iroze, ni inzobe, yambaye n'ikabutura, afashe igikombe cy'amazi arimo kuvoma kuri robine, inyuma ye hari urukuta rw'amatafari ahiye.

Umwana w'umukobwa wambaye impuzangano y'abanyeshuri iri mu ibara ry'ubururu n'agashati k'umweru, arakaraba ibiganza byombi, imbere ye hari akantu kari mu ibara ry'icyatsi kibisi bakoresha bashyiramo imyanda, inyuma hari inzu zizengurutse zigaragara ko ari amashuri.

Abana bambaye imyenda y'ikake, abahungu n'abakobwa, bari ku bitembo by'amazi, hari, indobo barimo kuvomeramo ziri mu ibara ry'umuhondo, inyuma yabo hari ibiti by'imikindo binini biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Inyubako nini imbere yayo hari abantu bambaye bipfutse umubiri wose no mu maso, ni kwa kundi bambara biteguye gufasha igihe habaye icyorezo, hari umuntu barimo kwinjiza mu nzu, hari undi uri hirya ategereje abandi ari bufashe.

Abantu babiri, umugabo w'imibiri yombi wambaye ikote rijya ku umukara, ishati y'umweru, karuvati y'ikigina, umugore w'umunyamahanga wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, bafashe icyapa kiri mu ibara ry'umukara, gifite inyuguti zigaragara neza z'umweru, gishishikariza abantu gusura u Rwanda.

Umugabo wambaye ishati ya karokaro, useka wambaye ipantaro y'umukara, yafatishije amaboko yombi ku njerekani y'umuhondo, iruhande rwe hari robine ebyiri, inyuma ye hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Abantu bicaye mu ihema abagabo n'abagore, imbere yabo hari uwambaye itaburiya y'umweru w'inzobere, wisutse imisatsi, afite indangururamajwi mu ntoki, bamuteze amatwi. Inyuma ye hari ibiti byinshi.

Abakobwa babiri bakiri bato, bavuye kuvoma amazi mu ndobo y'icyatsi kibisi, ukenyeye igitenge arimo gukorera uwambaye agapira k'ubururu, inyuma yaho hari umusozi uriho ibihuru, ahagana hirya hari inzu ihinguka isakaje ibyatsi.

Abantu benshi b'abagabo bicaye hamwe bazengurutse hagati yabo harimo ameza, umwe yicaye ahagana hino ni inzobe, afite uruhara, yambaye ikoti ry'umukara bose bamuteze amatwi bari mu nama.

Umwana uri kuri robine afite injerekani y'umuhondo, yambaye agapira k'umweru arimo guseka. Hari umuntu uri inyuma wambaye ikabutura y'umukara n'ishati y'umweru arimo kumufasha akurura icyuma kugira ngo amazi abone uko ajya muri iyo jerekani, inyuma yabo hari ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Abana bambaye impuzangano y'abanyeshuri iri mu ibara ry'ikacye, barimo gukaraba intoki bose ku iriba, hari umwana w'umuhungu washyize ibiganza hejuru nk'usuhuza abantu, inyuma yabo hari urukuta rw'amatafari ahiye.

Abantu batatu b'igitsina gore, umwe araryamye yambaye imyenda y'ubururu, yambaye n'igitenge cy'amabara menshi, hari n'umufasha kuruhande rumwe, undi wambaye imyenda yu'bururu n'agapfukamunwa ashyize icyumvirizo ku nda ye arimo kumva uko ameze.

Abantu babiri, umugabo wambaye itaburiya y'ubururu, afashe icyapa mu ntoki kiriho umwana w'umukobwa n'umuhungu, arimo kwereka umugore wambaye igiteke kirimo amabara y'umuhondo n'agapira kajya kuba umweru, bari imbere y'inzu ifite idirishya rifite ibara ry'icyatsi kibisi, iteye irangi ry'umuhondo hino hari amabuye y'urugarika.

Umwana w'imibiri yombi, wambaye agapira k'umutuku yagahinnye, arimo gukaraba ibiganza byombi kuri robine, imbere ye hari icyapa cyanditseho amagambo mu nyuguti z'umukara.

Inyubako nziza iteye irangi ry'ubururu bwerurutse, ahagana hasi hariho ibara ry'icyatsi kibisi na cyo cyerurutse, imbere yaho hahagaze abantu abagabo n'abagore baringaniye, inyuma hari amagambo yanditse ku cyapa cy'ubururu, imbere hari ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Umwana wambaye ikabutura itukura, agapira karimo amabara, ari kuri robine yashyizeho ibiganza byombi arimo kunywa amazi, munsi hari indobo, inyuma hari ibyatsi byinshi, hirya cyane hari ibiti binini by'icyatsi kibisi.

Abantu benshi, abagabo n'abagore. Hari umugore wambaye ikanzu y'icyatsi kibisi, inyuma ye hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru, n'abandi batandukanye, imbere hari umugore wambaye ikanzu y'umutuku witandiye igitambaro cy'umweru, inyuma ye hari irido iri mu ibara ry'umukara.

Abana b'abahungu barimo kuvoma amazi mu mugezi utemba, ni ibikara hari uwambaye umupira w'umukara undi yambaye akajya kuba umuhondo baravomera mu ndobo y'ubururu n'indi y'umweru hakurya yabo hari umusozi.

Abantu bahuriye hamwe ari benshi abagabo n'abagore, ku ruhande rwo hirya hari abitwikiriye imitaka y'imyeru, hino hari uwambaye inifomu y'abapolisi, imbere yabo hahagaze umugabo ufite mikoro wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru werurutse, bamuteze amatwi.

Gatanda kubabakishije ibiti kaho ibikoresho byo mu gikoni bamaze koza, hariho amasahani y'umweru, ibikombe harimo n'icy'umutuku, hari n'ibase ahagana hirya iri mu ibara ry'ubururu, inyuma hari ibiti byinshi.

Abana bambaye impuzankano y'abanyeshuri, iri mu ibara ry'ubururu, imbere yabo hari ameza ariteretseho amasahane ariho ibyo kurya, barimo kurya bishimye, inyuma yabo hari ikibaho cyanditseho amasomo biga.

Abantu benshi abagabo n'abagore, bicaye hamwe hari umugabo wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, hari umubyeyi hirya wambaye igitenge kirimo amabara y'umutuku, yifuritse n'ikindi gitenge yiteze n'igitambaro hagati harimo abandi bantu, bicaye imbere y'inzu umuryango urakinguye barimo kuganira.

Umukecuru wicaye imbere y'inzu yubakishije amatafari, aratetse, haruguru ye hari inkoko, hepfo hari igikombe kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi hino yacyo hari umupfundikizo.

Umugore wicaye ku ntebe y'urubaho, imbere ye hari umusambi, yambaye kamambiri z'umukara, yambaye igitenge kirimo amabara y'umuhondo n'ishati irimo amabara atandukanye, inyuma ye hari inzu ifite idirishya rikinguye ishaje.

Abantu bicaye hamwe benshi biganjemo ab'igitsina gabo, abenshi bambaye imipira y'umukara iriho akantu k'umweru, hafi ya bose bafite umusatsi abenshi ni inzobe bose barimo kureba imbere yabo bicaye bitonze urabona bateze amatwi.

Abantu bicaye hamwe, hari umugabo wicaye imbere y'aba bagore, ku ntebe y'urubaho, yambaye ishati y'ubururu bwerurutse n'ipantaro ya kacye, yayizamuye ku kaguru kamwe, arimo kubereka ku kaguru ke, bose barimo kuhitegereza, ashobora kuba yavunitse; abagore na bo bicaye ku murongo, ku ntebe iri imbere ye, inyuma yabo hari urutoki.

Umusore w'inzobe, ufite umusatsi muke cyane, yasetse cyane, yambaye umupira w'umuhondo, inyuma ye hari ibara ry'umweru, rigaragara cyane.

Abana benshi biganjemo abambaye utwenda tw'icyatsi kibisi n'akantu gateyeho k'ubururu; hari undi mwana wambaye agapira k'umweru kariho akantu k'umutuku ku ijosi, bose basetse, barishimye cyane.

Abantu babiri, umwe yambaye imyenda y'imikara, afite n'umusatsi w'igikara, ni inzobe, yarambuye akaboko afata ku w'undi wambaye imyenda y'umutuku n'ingofero y'amabara wifashe ku itama arimo kumuhumuriza.

Abantu benshi, bahagaze imbere y'inyubako, iriho irange rijya kuba umuhondo, abagabo n'abagore, barimo kureba imbere yabo bose, biganjemo abambaye imyenda, y'imyeru.

Abantu benshi abagabo n'abagore bari hamwe bafite icyapa bafashe ku mpande zombi, harimo ibara ry'icyatsi kibisi ryandikishijeho inyuguti z'umweru, urundi ruhande ni umwe icyo cyapa cyanditseho ibyo barimo gukora bose uko bari aho ngaho.

Umuntu wambaye ipantaro y'ikake, ishati y'amabara y'umweru n'umukara w'umunyamahanga ahagaze iruhande rw'icyapa cyandikishijeho inyuguti z'ubururu n'umukara zigaragara neza yererekana ibihakorerwa.

Inyubako nziza ifite urukuta rw'amabuye, iteye ibara ry'irangi rijya kuba umuhondo, ifite inkingi na zo ziri mu ibara ry'umuhondo, amadirishya ariho irangi ry'ubururu, hari amagambo yanditse agaragara neza yerekana ibihakorerwa.

Abagore barimo kwitegereza umugabo wicaye imbere yabo, wazamuye ipantaro, arimo kubereka ku kaguru hashobora kuba harwaye, yambaye ishati y'ubururu, arunamye, inyuma yabo hari urutoki, hari n'ishyamba ryinshi.

Inyubako nini nziza ifite ubusitani bwiza imbere, buri mu ibara ry'icyatsi kibisi n'ibiti ku mpande byakuze cyane, hari ibara ry'ubururu ritangira ahagana hasi, hejuru handitseho amagambo agaragara neza cyane yerekana ibihakorerwa.

Umumama w'imibiri yombi uteru uyu mwana wambaye umupira w'amabara yose arishimye araseka, yambaye umupira w'umweru, afite n'imisatsi y'umukara, inyuma y'ahantu bari hari amatafari ahiye n'amadisha.

Umubyeyi w'imibiri yombi, wambaye ikanzu y'ubururu irimo n'amabara y'umuhondo, witeze n'ingofero mu mutwe iri mu ibara ry'ubururu akikiye umwana, hari undi uri hirya ye wambaye umupira w'umweru arimo aramwereka agakoresha bapima bareba uko ubushyuhe bungana mu mubiri barimo kukarebaho.

Umuntu w'inzobe afite imisatsi myiza myinshi cyane, yambaye isengeri iri mu ibara ry'umweru, afite igikoresho bakoresha basukura amenyo.

Abana bari kumwe bambaye impuzankano y'abanyeshuri bafite uburoso busukura amenyo, bafite udukombe turi mu mabara atandukanye bose barimo gukora isuku mu menyo.

Umwana w'umukobwa w'imibiri yombi, afite imisatsi myinshi yayisokoje ayiganisha imbere, yambaye isengeri y'umweru, arimo gukora isuku y'amenyo, afite igikoresho yafatishije amaboko yombi.

Umusore w'inzobe cyane, nta musatsi afite, afite igikoresho yafatishije amaboko yombi, ni icyo gusukura amenyo, arimo kuyitaho.

Umusore w'inzobe cyane, ufite umusatsi muke cyane, afite igikoresho mu ntoki, yasamye, arimo gusukura amenyo kugira ngo amererwe neza.

Umusore w'inzobe cyane, afite umusatsi muke w'igikara, yambaye umupira w'umweru, afite igikoresho mu ntoki zombi, arimo gusukura amenyo.

Umwana mwiza w'imibiri yombi, yambaye utwenda tw'umweru tw'amaboko maremare, afite igikoresho gisukura amenyo kiri mu ibara ry'umuhondo n'ubururu, arimo kuyasukura.

Abana benshi bambaye impuzangano z'abanyeshuri ziganjemo akabara k'umuhondo, bashyize amaboko hejuru barimo kwerekana utuntu bafite, ni utwo kurya dushobora kuba dushimisha abana.

Umuntu w'imibiri yombi uryamye, arasamye, hari uwambaye itaburiya y'umweru, uturindantoki tw'umweru, ni umuganga, afashe ibikoresho arimo kumufasha kugira ngo yongere kumererwa neza.

Abantu babiri, umwe ni umugabo, undi ni umwana, bose ni imibiri yombi, bambaye udupira tw'imyeru, bafite udukoresho dusukura amenyo, barimo kudukoresha.

Umukobwa w'imibiri yombi, ufite imisatsi myinshi, wambaye agakanzu k'umweru, afite uburoso busukura amenyo, arimo kubukoresha kugira ngo amererwe neza.

Umugabo w'igikara uryamye, ufite umusatsi muke, arasamye, hari umuntu wambaye imyenda y'ubururu, wambaye n'akantu mu mutwe k'umweru n'agapfukamunwa k'umweru n'uturindantoki tw'ubururu, urimo kumufasha amuvura amenyo.

Umuntu wambaye impuzangano y'abaganga harimo ibara ry'umweru, ni igitsina gore, ni inzobe, asutse imisatsi, imbere hari undi nawe ufite imisatsi isutse nawe w'inzobe wasamye, arimo kumurebera mu kanwa ikibazo yagize, hirya hari abandi baganga.

Umugabo w'inzobe cyane, afite ubwanwa bwinshi, bw'umukara, arabyibushye, afite igikoresho gisukura amenyo, kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi cyerurutse.

Umusore w'imibiri yombi, ufite umusatsi muke, yafashe igikoresho bakoresha basukura amenyo mu maboko yombi, arimo kwita ku menyo ye kugira ngo agire isuku.

Umuntu w'inzobe cyane, yasamye cyane, afite agakoresho karimo ibara ry'ubururu yafatishije ikiganza cye, arimo kugakoresha akuramo imyanda yaba iri mu menyo kandi ni ikintu cy'ingenzi.

Umuntu uryamye ku gitanda cyo kwa muganga kiri mu ibara ry'ubururu hari urimo kumwitaho wambaye impuzankano y'abaganga iri mu ibara ry'umweru uturindantoki ni umweru ni inzobe yambaye n'agapfukamunwa rinete yazishyize ahagana mu mutwe hirya hari ibindi bikoresho byinshi byo kwa muganga inyuma ye hari urukuta ruri mu ibara ry'umuhondo.

Inzu nini irimo ibikoresho byinshi byo kwa muganga, hari intebe, hari imashini, hari n'ibindi by'utubati, byifashishwa bita ku babagana kugira ngo bamererwe neza.

Umuntu w'inzobe, w'imisatsi y'imikara, hari umuntu wacishije akaboko hejuru ye wambaye ga z'icyatsi kibisi, akandi kari imbere, ni muganga arimo aramwitaho ku kibazo afite cy'amenyo.

Umugabo w'imibiri yombi, wambaye ishati y'umweru arimo gusukura amenyo, hirya ye hari undi muntu utagaragara neza umwegereye.

Umukobwa w'inzobe cyane wambaye amaherena y'umweru, ufite umusatsi mwinshi, arasamye hari umuntu wambaye uturindantoki tw'umweru, ni umuganga arimo kumuvura amenyo.

Umukobwa w'inzobe cyane, wambaye isengeri y'umweru, ateze igitambaro mu mutwe cy'umweru, afite mu kaboko kamwe igikoresho bakoresha basukura mu kanwa, uboroso buri mu ibara ry'ubururu, arimo kwita ku menyo ye

Umubyeyi w'umugore n'umwana, bose ni inzobe, bafite imisatsi isutse y'igikara, bambaye udusengero tw'umweru dusa, bafite ibikoresho bisukura amenyo, arimo kumwereka uko bakora isuku y'amenyo.

Umwana muto wambaye agapira k'umweru, inyuma hari agakanzu karimo ibara ry'icyatsi kibisi karimo utuntu tw'umweru tw'utubara duto, yicaye ku ntebe iri mu ibara ry'ubururu, afite uburoso bw'amenyo ateza akandi kantu mu mutwe keza, arimo gukora isuku mu menyo.

Umugabo ukuze w'inzobe, yaba imisatsi ni imvi, yambaye ishati y'amaboko maremare ari mu mabara y'umutuku n'umweru, n'umupira ujya kuba umukara imbere; hari ibyo kurya byinshi imbere ye, yaruriye mu isahani y'umweru, arishimye.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri yambaye umupira w'umukara werutse, yambaye ipantaro yirose, hari agatambaro yafungishije umusatsi gasana n'ipantaro yarambuye amaguru amaboko ajya kuyakoza ku birenge, ahantu yicaye hirya no hino hari ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Abantu bari mu myitozo ngororamubiri umugabo ni igikara, agapira yambaye karererutse, imisatsi ni imvi umugore ni inzobe cyane, umupira w'umweru, imisatsi y'imvi bose barimo kwiruka.

Abantu babiri umusaza ukuze cyane ubwanwa bwabaye imvi, ni imibiri yombi arimo guhobera umuntu w'igitsina gore witeze igitambaro cy'umutuku nawe ni imibiri yombi yambaye n'agakote k'umukara. Uwo mugore yishimye cyane biragaragara ko ari nk'umubyeyi n'umwana bataherukanaga.

Abantu babiri bakuze: umugabo, umusatsi wabaye imvi, yambaye umupira w'ubururu, umugore na we, umusatsi ni imvi, ni inzobe, yambaye uduherena tw'umweru. Umugabo afite icupa ririmo imiti, mbere yo kuyinywa, umugore arimo kumwereka amabwiriza abigenga. Imbere yabo, hari ameza manini.

Abantu babiri bakuze umugabo ufite ubwanwa n'uruhara, yambaye ishati y'umweru y'amaboko maremare, umugore ni inzobe cyane, afite imisatsi myinshi y'imvi, yambaye umupira w'iroze, bafite ibyo kurya byinshi imbere yabo.

Umuntu w'igitsina gabo ukuze, ubwanwa ni imvi, arimo koga, hari undi muntu urimo kumufasha, arimo guhera mu mutwe akoresheje amazi n'isabune, akoresheje amaboko yombi.

Abantu babiri, umwe ni umugabo ukuze, wambaye umupira w'umweru w'amaboko maremare, ufashe n'inkoni mu ntoki, afite umusatsi muke, afite ubwanwa buke bw'imvi, hari umukobwa umufasheho, wambaye itaburiya y'ubururu, imbere harimo umupira w'umweru w'amaboko maremare, imisatsi irasutse, arimo kumwitaho

Umugabo ukuze, ubyibushye, ufite ubwanwa bwabaye imvi, yahinnye akaboko k'umupira, bamushyizeho igipimo barimo kumufasha, umufasha yambaye impuzankano y'abaganga, ni inzobe, afite imisatsi myinshi.

Igitanda cyicayeho umuntu ukuze wumugabo ubyibushye, gishashaho amashuka y'umweru, hepfo hari ikiringiti kiri mw'ibara ry'ubururu, hari umuntu w'inzobe cyane w'igitsina gore arimo kumufasha guhaguruka afite imisatsi myinshi cyane, nyuma ye hari inzitiramubu iririmo ibara ry'umweru, haguru hari akabati babikamo imyenda.

Umuntu ukuze wambaye umupira w'umukara ni umugabo, ubwanwa ni imvi, iruhande rwe hari umukobwa ufite imisatsi isutse, wambaye agapira k'umweru karimo amabara n'ipantaro y'umukara arimo kumuha imiti, imbere ye hari mudasobwa.

Abantu babiri b'igitsina gore, umwe arakuze cyane imisatsi yose ni imvi, yambaye agashati kerurutse araseka, undi ari inyuma ye wambaye agashati k'icyatsi kibisi gafite utubara tw'umweru ku ijosi no ku maboko afite umusatsi w'umukara barishimye.

Abantu benshi bigaragara ko ari umuryango hari umubyeyi w'umugore w'inzobe imbere ye hari umwana w'igikara wambaye akenda k'utubara twinshi, hagati yaho hari umupapa nawe w'inzobe, hirya hari umusore w'imisatsi myinshi imbereye akana gato, bahagaze hamwe bose bishimye.

Abantu babiri uwambaye umupira w'amaboko maremare w'umweru, ufite imisatsi y'umukara n'umwana wambaye agapira k'umweru karimo utubara duto tutagaragara neza, ufite imisatsi myinshi, imbere yabo hari ameza, hariho utuntu tw'umweru, arimo kwereka uwo mwana.

Abantu babiri bakuze b'inzobe, umugabo yambaye umupira w'umutuku w'amaboko maremare imisatsi ni imvi, umugore na we yambaye w'umutuku utambitsemo utubara tw'umukara, umugabo afite utuntu mu ntoki umugore arimo kumwitegereza, hari ameza ariho ibintu byinshi n'agacupa k'umuti, inyuma yabo hari ibikoresho byinshi byo mu gikoni.

Umuntu ukuze, w'inzobe, ufite imisatsi y'imvi, wambaye agapira k'ubururu, ipantaro y'umukara, akaguru kamwe yakamanuye, akandi agakozaho amaboko yombi, ari mu myitozo ngororamubiri.

Abantu batatu bahagaze hamwe, umwe wambaye umupira w'umutuku w'amaboko maremare w'inzobe w'igitsina gabo, undi arakuze yambayemo akantu k'umukara yifubitse n'akandi kikacye, hari undi w'igitsina gore wambaye umupira w'amaboko maremare na we w'inzobe, barimo kwarura ibyo kurya bashyira ku isahani y'umweru.

Abantu babiri umubyeyi w'umugabo n'akana k'agakobwa basutse imisatsi, agashati ni umweru, agapantaro ni icyatsi kibisi, gafite umupira wo gukina mu ntoki, papa wako wambaye ikabutura n'ishati arimo gukina na ko, hirya yabo hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Abantu b'igitsina gore bicaye hamwe, imbere yabo hari ibitebo birimo inyanya, hari uwicaye hagati yabo wambaye igitenge kirimo amabara y'icyatsi kibisi n'umuhondo, ni igikara bamuteze amatwi hari ibyo arimo kubabwira, inyuma yabo hari imbuto zirimo ibara ry'umuhondo.

Umuntu wambaye imyenda y'ubururu, hari igikoresho arimo kwifashisha kimufasha kugenda, ashobora kuba arwaye, nta nkweto yambaye. Hirya ye hari intebe iri mu ibara ry'umukara, amarido ari ahagana hirya nayo ni umukara.

Umugabo ukuze w'imibiri yombi, imisatsi ni imvi, yambaye umupira w'amaboko magufi, arimo kwereka ibintu bishishikaje, biri mu gitabo afite, umusore wambaye ishati y'umweru n'umukara, w'inzobe ifite imisatsi y'umukara, imbere yabo hari ibikombe by'umweru bibiri biteretse ku meza.

Abantu babiri bishimye, umuto n'umukuru, umuto yambaye agapira k'uburu bweherurutse yifashe ku kananwa afite umusatsi muke, arimo kwitegereza umubyeyi mukuru wambaye umupira w'amaboko maremare yambaye n'amadarubindi arimo gutunganya ibyokurya biri imbere yabo.

Abantu babiri b'igitsina gore, umwe arakuze afite imisatsi mike, ni inzobe, undi amuhagaze iruhande arimo kumuhereza imiti, ni umuganga yambaye imyenda y'ubururu afite igikoresho mu ijosi bifashisha bapima uburwayi, afite n'imisatsi myinshi y'umukara imbere yabo hari ameza.

Abantu babiri umwe arakuze ni umugabo ntamusatsi afite, yambaye umupira w'ubururu bwerurutse, yambaye ipantaro ikake, akaboko ke yakegereje undi wambaye imyenda y'ubururu, wisutse inweri ni inzobe, aramupima ku kaboko igipimo kigaragaza uko amaraso atembera mu mubiri.

Umuntu ukuze w'igikara ufite ubwanwa bw'imvi, wambaye agapira k'umweru n'amashuka aryamyemo ni umweru, hino ye hari imashini, umuganga uhagaze hirya w'inzobe wambaye impuzankano y'umweru arimo gukurikirana ubuzima bwe.

Abantu benshi cyane bicaye hamwe, hari abari imbere yabo, abakobwa n'abahungu barimo kubabyinira, abakobwa bateze amaboko, bambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru, abahungu bari hirya barimo kubyina neza bambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu, imbere yabo handitse icyapa kigaragaza icyabahurije aho ngaho.

Abantu benshi bambaye imyenda y'umweru umubiri wose n'udupfukantoki, n'udupfukamunwa, no mu mutwe harapfutse, hagaragara amaso gusa biteguye gufasha igihe cyose haba habayeho indwara y'icyorezo.

Abantu benshi biganjemo abambaye imyenda y'imyeru, inyuma yabo hari ibiti by'icyatsi kibisi, bafashe icyapa mu ntoki kiri mu ibara ry'umutuku cyandikishijeho inyuguti z'umweru zigaragara neza, cyerekana icyo barimo gukora.

Abantu benshi biganjemo abagabo n'abagore, benshi bambaye amapantaro y'imikara n'imipira y'umweru, bahagaze imbere y'icyapa kirimo ibara ry'ubururu, ryandikishijeho amagambo y'umweru yerekana ikihakorerwa.

Abantu benshi b'igitsina gabo, imbere hari uw'igikara wambaye ishati y'umweru, ipantaro ya kake, hari n'abandi, imbere yabo hari icyapa kigaragara neza cyanditseho amagambo ari mu nyuguti z'umuhondo n'umweru, zerekana ibihakorerwa.

Abantu babiri b'inzobe cyane, bambaye imyenda y'imikara isa, umwe aricaye undi amuhagaze iruhande, imbere yabo hari icyapa kiri mu nyuguti zigaragara neza n'inyuma yabo hari amagambo agaragara neza, arerekana ibikorerwa aho hantu.

Umuntu uryamye bigaragara ko yagize ikibazo uryamye kugatanda karimo ibara ry'ubururu, hari umuganga urimo kumwitaho n'undi muntu wambaye akajire karimo ibara ry'icyatsi kibisi wambaye n'agapfukamunwa. Na we urimo kubafasha, hirya hari umuntu uhagaze arimo kubitegereza.

Inyubako nziza igeretse, hejuru hateye irangi ry'ubururu, hasi hari irijya kuba umuhondo, imbere hari ubusitani, burimo igiti kinini cyane kirimo ibara ry'icyatsi kibisi, hari icyapa kigaragara neza cyerekana ibihakorerwa.

Icyumba kirimo ibikoresho byinshi bigaragara ko ari byo kwa muganga, hari igitanda gishaje amashuka y'umweru, ashobora gusuzumiraho umuntu ubagana undwaye, hari izindi mashini ziri hagana hirya, hari mudasobwa ishobora kubafasha kubona ibisubizo by'umurwayi bitabagoye.

Abantu benshi biganjemo abi gitsina gore, bicaye ku ntebe z'imbaho, imbere yabo hari abagabo batatu, babiri baricaye, hari uhagaze wambaye ikositimu y'umukara n'ishati y'umweru, bamuteze amatwi, imbere yabo hari icyapa cyanditseho ibihakorerwa.

Inzu nini, ahagana hasi hahagaze abantu, bambaye, harimo uwambaye umupira w'umweru; ifite inkingi z'umweru. Hejuru gato hariho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, hejuru yaho ahateye umucanga, hari icyapa cy'umweru cyandikishijeho amagambo y'icyatsi kibisi n'umukara, agaragara neza; arerekana ibihakorerwa.

Inyubako nini yubakishije amatafari ahiye, umuryango urakinguye, hejuru yawo hari amagambo yanditse mu buryo bugaragara neza yerekana ibihakorerwa.

Inyubako nziza yubakishije amatafari ahiye, inkingi zayo ziriho irangi ry'umweru, ifite ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi kibisi, ifite icyapa cyanditseho mu buryo bugaragara neza cyerekana ibihakorerwa.

Abantu batatu bose ni igitsina gore, bambaye imyenda y'ubururu imeze kimwe, buri wese yiteze igitambaro kiri mu ibara ry'umweru, bahagaze ahantu hari ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi kibisi, inyuma hari ibiti by'imikindo, ku rundi ruhande hari igiti kinini cy'inganzamarumbo.

Inyubako nziza igeretse yubakishije amatafari ahiye, hasi hari ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi kibisi. Hagati hari amagambo yanditse mu nyuguti z'umweru agaragaza ibihakorerwa.

Inyubako nini, cyumba kirimo ibintu byinshi by'ibikoresho byo kwa muganga. Harimo intebe, hari ibitanda bashobora gusuzumiraho abarwayi, hari mudasobwa bashobora kwifashisha bakabona ibisubizo bitabagoye.

Inyubako nziza ashobora kwakirwamo abantu baje kwivuza, ni kwa muganga hari intebe nziza hari umugabo wicaye wambaye ingofero n'umupira w'ubururu n'ipantaro ya kaki, hari undi bakiriye uhagaze wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'ubururu, hagati hari ameza yateguyeho ururabo rwiza barimo kwita ku babagana.

Inyubako nziza iteye irangi rijya kuba umuhondo, irageretse, ifite ubusitani bw'ibara ry'icyatsi kibisi, ifite akayira keza k'abanyamaguru, ku ruhande hari ldarapo hari n'imodoka y'umutuku.

Inyubako nziza igeretse, iteye irangi ry'umweru werutse, iriho ifoto y'umubyeyi n'iy'uruhinja ahagana hirya, hagati handitseho amagambo agaragaza ko ari inzu yakira ababyeyi n'impinja.

Inyubako nini irimo abantu benshi bambaye imyenda y'ubururu, hari uri ku ruhande rw'umunyamahanga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa k'ubururu, ni kwa muganga bose biteguye gufasha ababagana kugira ngo bongere kumererwa neza.

Inzu nziza isakaje amabati y'ubururu, yubakisha amatafari ahiye, ifite ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi kibisi, harimo n'igiti kinini muri ubwo busitani, hari icyapa kigaragara neza cyerekana ibihakorerwa.

Urukuta rwubakishije amatafari ahiye, imbere yayo hari ibyatsi, muri ibyo byatsi harimo icyapa kinini cyerekana ibihakorerwa, hirya hari ibiti binini.

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye, harimo umuntu uryamye w'umugabo wambaye ikabutura y'umweru, umupira w'umukara, agapfukamunwa k'ubururu, nawe ni igikara, yarambitse akaboko ku musego uri imbere ye barimo kumwitaho.

Icyumba cyiza kigaragara ko ari icyo kwa muganga, kirimo ibikoresho bitandukanye, hari ibitanda bashobora gusuzumiraho abarwayi, hari mudasobwa ishobora kubafasha kubona ibisubizo bitabagoye, hirya hari rido bashobora gusuzumiramo uburwayi mu buryo bw'ibanga.

Inyubako nini iteye irangi ry'bururu ifite amadirishya menshi. Imbere yayo hari imodoka ijya kuba umweru, kuruhande rwo hirya hari umuntu hafi y'iyo modoka wambaye imyenda y'umukara. Hirya hahagaze abantu benshi. Imbere hari ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Inyubako nini igeretse ifite irangi ijya kuba umweru, ifite amadirishya menshi imbere yayo haru umukobwa uhagaze wambaye ijipo k'umutuku n'agapira k'umuhondo, hejuru handitse amagambo agaragara neza yerekana ibihakorerwa.

Umuntu ukuze w'imibiri yombi w'umugabo, wambaye ishati ijya gutukura n'ipantaro ijya kuba kake, arimo guseka, imbere ye hari uwambaye imyenda y'ubururu, ufite imisatsi miremire bigaragara ko ari umuganga, arimo kumufata ibipimo, aramwereka ko ari byiza, yishimye.

Inyubako nziza igeretsetamageri yaje ahagaragara mu ibara ry'umweru ahandi ni ubururu mbere hari imikindo myiza hari amagambo ayanditseho yerekana ibiyakorerwa

Inyubako nziza irimo ibikoresho byinshi bigaragara ko ari byo kwa muganga, hari n'igitanda kiri mu ibara ry'umukara, bashobora kugikoresha basuzuma umuntu waje abagana bagira ngo yongere amererwe neza.

Inyubako nini igaragara ko ari iyo kwa muganga, hari icyumba kirimo ibikoresho byinshi cyane bifashisha bita ku babagana, hari intebe, hari ameza, hari mudasobwa bashobora kureberaho ibisubizo by'abarwayi bitabagoye.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye harimo imashini, hari intebe ziri mu ibara ry'icyatsi kibisi, byifashishwa bita ku babagana kugira ngo bamererwe neza.

Inzu nziza yubakishije amatafari ahiye, hari ubusitani bwiza cyane buri mu ibara ry'icyatsi kibisi, hari ibiti bibiri by'imikindo bigaragara neza, iruhande rwabyo hari uturabo twiza turi mu mabara ajya gutukura, hirya hari igiti kinini k'inganzamarumbo.

Inyubako nziza irimo ibitanda, amarido ni kwa muganga hari igitanda gishasheho amashuka y'icyatsi kibisi hari n'ibindi biri imbere nabyo bishashe neza, bishobora kwifashishwa ku barwayi bahagana kugira ngo bongere kumererwa neza.

Inyubako nziza yubakisha amatafari ahiye hagaragara neza ahagana hasi, hejuru hari irangi ry'umweru handitseho n'amagambo ari mu nyuguti z'umukara agaragara neza yerekana ibihakorerwa, imbere hari ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi kibisi hari n'ibiti byakuze, hari n'akayira keza k'abanyamaguru.

Inyubako nziza iriho irangi ry'umweru, imbere ya hari ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi kibisi, hari akayira keza k'abanyamaguru, hariho icyapa kigaragaza ibihakorerwa.

Inyubako igeretse irimo amadirishya manini agaragara neza, hari icyapa cyanditseho mu ibara ry'ikigina cyerekana ibikorerwa aho hantu, abahagana batagira urujijo.

Icyumba kirimo ibikoresho byinshi, bigaragara ko ari ibyo kwa muganga, igitanda gishasheho amashuka ari mu ibara ry'umweru, hari imashini zitandukanye, hari n'umuntu wambaye impuzangano y'abaganga iri mu ibara ry'umweru, uhagaze iruhande rw'imashini arimo kuyitunganya kugira ngo uribuze ahite amwakira.

Icyumba kinini giteye irangi ryo mu ibara ry'umuhondo, kirimo ibikoresho byinshi bashobora gukoresha bavura abantu barwaye, hari nk'igitanda bashobora kubasuzumiraho kiri mu ibara ry'umweru, hari ikindi gishasheho amashuka y'ubururu, hari n'izindi mashini nyinshi byose bibafasha kuvura ababagana.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byinshi bigaragara ko ari ibyo kwa muganga, hari igitanda gishasheho amashuka y'umweru, bashobora kugisuzumiraho ababagana, hari n'ibindi bikoresho byinshi, utubati n'ibindi byose ni ibyo gufasha ababagana.

Inyubako nziza nini iteye irangi ry'umweru, yanyanditseho amagambo agaragara neza yerekana ibihakorerwa, imbere yayo hari igiti kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi, hino hari indi nzu yubakishije amatafari ahiye.

Icyumba kirimo umugabo w'imibiri yombi, yambaye imyenda y'umweru, aryamye ku gitanda gishasheho amashyuka y'umweru. Hirya ye hari ibikoresho abaganga bakoresha mu kuvura abantu.

Inyubako nini, hari icyumba kirimo ibikoresho byinshi bigaragara ko ari ibyo kwa muganga, hari ibitanda biri mu ibara ry'ubururu, hari intebe, hari ameza, hari za mudasobwa, bifashisha babona ibisubizo by'abarwayi bitabagoye.

Icyumba kinini cyane kirimo ibikoresho byinshi cyane byo kwa muganga, hari igitanda gishasheho ishuka irimo ibara ry'ubururu, bacyifashisha basuzuma umurwayi ubagana kugira ngo yongere kumererwa neza.

Inyubako nini iteye irangi ry'ubururu bwerurutse, ifite amadirishya menshi, imbere yayo hahagaze ahantu, hari n'imodoka, hino hari ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Abantu benshi batoye umurongo, abagabo n'abagore imbere yabo hari intebe y'urubaho, hari n'izindi ntebe z'umukara, barimo gusanga umuganga, bashobora kuba bari mu kwivuza cyangwa mu kwikingiza indwara yadutse.

Abantu batatu umugore w'inzobe witeze igitambaro, imbere ye hari uwambaye impuzankano y'abaganga amuteze amatwi, arimo kwandika ibyo amubwira amusuzuma, inyuma hahagaze undi wambaye imyenda y'ubururu, w'umuyamahanga nawe ni umuganga yiteguye kubafasha.

Inyubako nziza yubakishije amatafari ahiye, ifite amadirishya meza, hari inkingi iriho irange ry'umweru, imbere hari ubusitani bwiza buri mu ibara ry'icyatsi kibisi, n'akayira k'abanyamaguru gakoze neza, handitseho amagambo hagana hejuru agaragara neza yerekana ibihakorerwa.

Inyubako nini irimo ibikoresho byinshi cyane, harimo n'abantu benshi bigaragara ko ari abaganga, bambaye amataburiya y'umweru n'abambaye amapantaro y'umukara, bamwe baricaye abandi barahagaze, biteguye abaza babagana kugira ngo babafashe.

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye bigaragaza ko ari ibyo kwa muganga, hari amarido y'ubururu, hari ibitanda bishashemo amashuka y'umweru bifashisha baryamishaho abarwayi, hari umuntu wambaye imyenda y'icyatsi kibisi n'imisatsi myinshi w'igitsina gore bigaragara ko ari umukozi waho kwa muganga.

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye harimo intebe nyinshi ziri mu ibara ry'ubururu, harimo n'ibindi bikoresho byinshi bifashisha bita ku bababagana.

Abantu babiri, umwe aricaye, ni inzobe afite umusatsi muke, yambaye isengeri y'umweru, undi ari iruhande rwe, yambaye itaburiya y'umweru, ipantaro y'umukara n'uturindantoki, arimo kwitegura kumufasha.

Inyubako nziza yubakishije amabuye y'umukara rifite idirishya rinini ifite ubusitani bwiza isa mu ibara ry'icyatsi kibisi hari izindi ndabo hagati nziza z'umutuku hari akayira k'abanyamaguru hari abakanyuzemo bahingukira mu ruhande rwe hirya bagana kuri iyo nyubako.

Inyubako nini yahuriyeho abantu benshi, hari imodoka y'umukara ku ruhande rwo hepfo hari umugore uyihagaze iruhande wambaye igitenge cy'amabara menshi n'agapira karimo ibara ry'umutuku, hirya ye hari uwambaye imyenda y'imyeru, ku rundi rukuta hari uhicaye wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umutuku, hafi yabo hari ubusitani.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho byinshi, hari igitanda gishasheho amashuka y'umweru, hari n'ibindi bitandukanye byifashishwa bita ku babagana.

Inyubako nini y'amatafarihiye inkingi zayo ziteye irangi ry'umuhondo hari abantu baje bayigana hejuru handitseho amagambo agaragara neza yerekana ibihakorerwa.

Inyubako nziza igeretse hejuru hari ibara ry'ubururu bw'ikirere, hagati hari ibara ry'ikigina ryanditsemo amagambo agaragara neza yerekana ibihakorerwa. hasi hari ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Icyumba kirimo ibikoresho byinshi bigaragara ko ari ibyo kwa muganga, hari abagabo babiri barimo kureba mu bikoresho bitandukanye, biteguye gufasha uje abagana.

Inyubako nziza igaragara ko ari iyo kwa muganga, hari icyapa cyandikishije inyuguti z'umukara ahantu hari ibara ry'umweru, ryerekana aho ubanziriza kugira ngo umenye uko uri bufashwe, hari n'ibindi bikoresho byinshi bakoresha bita ku babagana.

Inyubako nini igaragara ko ari iyo kwa muganga, harimo igitanda cy'umweru gishesheho amashuka y'ubururu, haryamyeho umuntu urwaye, hari n'ibindi bitanda byinshi, hari umuntu uhagaze urimo kuzinga rido y'ubururu, yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'ubururu, arimo kwita kuri uwo murwayi.

Inyubako nziza ifite amadirishya meza ari mu ibara ry'umweru, hari abagabo n'abagore bari imbere yayo, hari abicaye, hari n'abahagaze bambaye imyenda yiganjemo ubururu, hari amagambo yanditse agaragara neza yerekana ibihakorerwa, hirya gato hari ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Inzu nziza ifite inkingi z'ubururu bwerurutse ifite amadirishya menshi hari n'ibiti ahagana hirya byiza, hari icyapa kigaragara neza kerekana ibihakorerwa ifite n'imbuga nziza.

Inyubako nziza ifunze imiryango yombi iteye irangi ry'umweru werurutse, urugi na rwo rurerurutse. Ifite icyapa kiri mu ibara ry'ubururu hejuru ku muryango cyerekana ibihakorerwa.

Inyubako nziza yubakishije amatafari ahiye, inkingi zayo zireba irangi ry'muhondo, hari umuryango ukinguye, kuruhande hari umugabo wambaye ishati yicyatsi kibisi cyerurutse n'ipantaro y'umukara, hari andi magambo ari ahagana hasi k'urundi ruhande yerekana ibihakorerwa.

Inyubako nini igeretse ifite amadirishya menshi, iteye irange ry'icyatsi kibisi cyijimye ahagana hejuru, ahagana hasi hari irange ry'umuhondo, ifite imbuga ikoze neza irimo amapave, hari icyapa kirimo ibara ry'icyatsi kibisi n'iriri mu cy'umuhondo bigaragara neza, kereka abahagana ibihakorerwa.

Umuntu w'inzobe w'igitsina gore wambaye ga z'umweru, igitambaro umutwe cy'umweru, arimo kwita ku ruhinja rwambaye akantu k'ubururu k'agapantaro, ni kwa muganga hari ibikoresho bigiye bitandukanye.

Icyumba kinini kigaragara ko ari icyo kwa muganga hari intebe, hari iri mu ibara ry'umweru n'umukara, hari ameza manini, hari utubati, hirya hari amarido bashobora kujyana umuntu mu cyumba bakamwitaho byose bikoreshwa bita kubabagana.

Inyubako nziza iteye irangi rijya gusa umuhondo, hari ubusitani bwiza buri mu ibara ry'icyatsi kibisi ifite idirishya rinini, hari amagambo ari hejuru yaryo yanditse mu nyuguti z'icyatsi kibisi, hariho n'akantu k'umuhondo, arerekana ibihakorerwa.

Igiti kinini cy'inganzamarumbo, gifite amashami meza arimo ibara ry'icyatsi kibisi, hari umugabo wicaye ku rukuta ruri hasi yacyo rw'amabuye, wambaye ipantaro y'umukara, n'ishati y'ubururu, hasi hari urundi rukuta, narwo rwubakishije amabuye.

Inyubako ifite irange ry'umukara, iri ahagana hirya hari ubusitani bwinshi burimo ibara ry'icyatsi kibisi, harimo ibiti byakuze cyane, hari icyapa kiri ahagana hirya mu busitani cyanditseho amagambo agaragara neza yerekana ibihakorerwa, hari n'abantu barimo guca mu kayira k'abanyamaguru bagana kuri iyo nyubako.

Inyubako nini iteye irangi ry'umweru, ifite n'amadirishya manini, ifite inkingi zubakishije amatafari ahiye, hari ubusitani ku ruhande, iriho icyapa kigaragaza ibihakorerwa.

Inyubako nziza igaragara ko ari iyo kwa muganga, hari intebe nziza zirimo ibara ry'ikake, hari imashini nyinshi hagiye hariho na mudasobwa, ibyo byose bibafasha kwita ku babagana kugira ngo bongere kumererwa neza.

Inyubako nini cyane nziza igeretse ifite inkingi nyinshi amadirishya menshi, ifite ubusitani ahagana hirya buri mu ibara ry'icyatsi kibisi, imbere yaho hari imodoka iri mu ibara ry'umukara hari amagambo agaragara neza ryerekana icyihakorerwa.

Inyubako nini iteye irangi ry'umweru, ikindi umuryango wayo urakinguye, ahagana hirya ku idirishya, hari umuntu wambaye impuzangano iri mu ibara ry'umweru y'abaganga, hirya hari akayira gakoze neza, hari n'ubusitani bwiza mu ibara ry'icyatsi kibisi, hejuru handitseho amagambo yerekana ibihakorerwa.

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye bigaragara ko ari kwa muganga, hari amarido y'icyatsi kibisi bashobora gukinga bifashisha bita ku muntu urwaye, hari andi macupa aba arimo umwuka bifashisha ku muntu warembye, hari igitanda gishasheho ishuka y'umweru n'ikiringiti kirimo amabara y'umutuku n'icyatsi kibisi kirimo umuntu uryamye.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye bigaragara ko ari ibyo kwa muganga hari nk'igitanda gishasheho amashuka y'umweru cyo kiri mu ibara ry'ubururu, ushobora kugisuzumiraho umurwayi, hari mudasobwa bashobora gukoresha bakabona ibisubizo bitabagoye.

Inyubako nziza ifite ubusitani bwiza cyane, buri mu ibara ry'icyatsi kibisi, harimo utuyira twiza tw'abanyamaguru dukoreshejwe, ku mpande hariho utubara tw'umukara n'umweru, tugaragara neza n'ibiti byakuze biri muri ubwo busitani.

Abantu batatu umwe wambaye imyenda ijya gutukura, w'imisatsi myinshi, afite n'agapfukamunwa n'umuganga, yambaye n'uturindantoki arimo gufata ibizame, umadamu wambaye ikanzu y'amabara y'umukara n'umweru, hari n'undi iruhande rwe w'igikara, inyuma yaho hari ishyamba ry'ibara ry'icyatsi kibisi.

Inyubako nini ishakakaje amabati y'ubururu iteye irangi ry'umweru ku nkingi igana hejuru irajya kuba umuhondo, igana hirya hari ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi kibisi n'ibiti birebire hari amagambo aragana hejuru y'umuryango yanditse mu buryo bugaragara neza yerekana ibihakorerwa.

Icyumba kinini bigaragara ko ari icyo kwa muganga, kirimo ibikoresho byinshi, intebe, imashini, hari amarido ahagana hirya, bayasuzumiramo abarwayi mu buryo bw'ibanga bakabafasha.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, hari igitanda gishasheho amashuka y'umweru, hari amarido ari mu ibara ry'ubururu, byifashishwa bita ku bahagana kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ibikoresho byinshi bitandukanye biri mu nyubako nini, biragaragara ko ari ibyo kwa muganga. Hari igitanda gishaho amashuka y'ubururu, hari intebe, hari mudasobwa ibafasha kubona ibisubizo by'abarwayi.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye bigaragara ko ari ibyo kwa muganga, hari intebe ziri mu ibara ry'umukara, hari utubati turi mu ibara ry'umweru, hari umuganga wambaye impuzangano y'umweru y'amaboko maremare arimo arategura ibikoresho kugira ngo umugana amufashe bitamugoye.

Inyubako nziza igeretse gatatu, hari imodoka zihagaze imbere yayo ziri mu ibara ry'umweru, hino hari akayira keza k'abanyamaguru, ku ruhande hari icyapa kigaragara neza, cyanditseho amagambo yerekana ibihakorerwa.

Inzu igeretse nziza, imbere yayo hari imodoka nyinshi, hari ziri mu ibara ry'umweru n'ibara ry'umukara, hari umugabo wambaye ingofero y'umukara n'ishati y'umutuku n'ipantaro y'umukara, warambuye akaboko areba mu ruhande rwo hepfo.

Ibikoresho byinshi biri mu cyumba kinini bigaragara ko ari kwa muganga, hari intebe nini iri mubara ry'icyatsi kibisi, hari indi iri mubara ry'umukara, hari ameza ariho mudasobwa bifashisha bareba ibisubizo by'abarwayi, hari n'izindi mashini nyinshi zose bazikoresha bita ku babagana.

Umubyeyi akikiye umwana w'uruhinja ,yambaye utwenda tw'imyeru, nyina yambaye akariho ubururu, n'imibiri yombi, hari uwambaye impuzankano y'abaganga irimo ibara ry'umweru n'akagofero k'ubururu, arimo kumuha umuti ,wenda no kumukingira.

Abantu babiri, umugore wambaye igitenge kirimo amabara y'ubururu bugaragara neza n'umuhondo; umugabo yambaye imyenda y'ubururu, ni igikara, afite igikoresho gisuzuma abarwaye, hirya yabo hari urutoki.

Umuntu wicaye mu igare ry'abamugaye, wambaye imyenda y'imyeru iy'umukara, inyuma ye hari umuntu wambaye imyenda y'umukara urimo kumucungira igare, amwinjizayo, bagiye kwinjira mu ihema riri mu ibara ry'umweru, hari n'akabara k'umuhondo, n'ak'icyatsi kibisi, hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'umweru, n'umukara, ku muryango waryo.

Inyubako nini irimo ibikoresho byinshi cyane byo mu bwoko butandukanye, ni ibyo kwa muganga, byifashishwa bafasha abahagana kugira ngo bongere kugira ubuzima bwiza.

Inyubako nini iteye irangi ry'umweru, ifite amadirishya menshi, ifite ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi kibisi, hirya hari ikigega cy'amazi cy'umukara, hari umuntu wambaye imyenda y'umuhondo, ugenda imbere yayo; hari undi wicaye ahagana hino mu igare ry'abamugaye, riri mu ibara ry'umukara.

Inyubako nini igeretse nziza, hahagazemo imodoka nyinshi, hariyo bakinguriye, hari umugabo weguye icyuma kugira ngo ibone uko itambuka, hari undi wicaye ku ntebe wambaye hejuru ubururu, hasi ni kake, hari icyapa kinini kiri hafi mu busitani cyerekana ibikorerwa muri iyo nyubako.

Inyubako nziza igeretse, ifite amadirishya menshi, ifite ubusitani bwiza burimo ibara ry'icyatsi kibisi, ifite imbuga ikoze neza, ifite isuku, hari icyapa kigaragara neza, harimo n'ibara ry'umutuku, cyanditseho ibikorerwa kuri iyo nyubako.

Inyubako nini bigaragara ko ari kwa muganga harimo ibitanda bishasheho amashuka y'umweru na gitwikije aho kuvurori y'ubururu hari n'ibindi bikoresho byinshi hari amarido y'umweru bashobora gusuzumiramo umuntu mu buryo bw'ibanga hari n'ibindi bikoresho bashobora kwifashisha bita ku bagana.

Inyubako nini, igaragara ko ariyo kwa muganga, hari imiti yagiye itondekanwa neza mu buryo bugaragara kugira ngo nihagira uhagana babashe kumufasha bitabagoye.

Inyubako nini nziza hejuru hariho irange ry'umuhondo, ifite inkingi ziriho irange ry'umweru, hari icyapa kigaragara neza ahagana hejuru cyerekana ibihakorerwa.

Inyubako nini ifite ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi kibisi, igeretse ifite imbuga nziza imbere hari amagambo agaragara neza yandikishije inyuguti z'umweru, yerekana ibihakorerwa.

Icyumba kirimo ibikoresho byinshi bigaragara ko ari ibyo kwa muganga, hari igitanda, hari intebe iri mu ibara ry'umweru, hirya hari irido bashobora gukoresha bagapima umuntu mu buryo bw'ibanga, hari n'ahantu ho gukarabira, ibyo byose babikoresha bita kubabagana.

Inyubako nini ifite ubusitani burimo ibiti byiza byakuze biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, imbere yayo hari akayira keza k'abanyamaguru, umugabo uhagazemo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umutuku, hejuru kuri iyo nzu hari amagambo agaragaza ibihakorerwa.

Inyubako nziza igeretse, ifite urugi ruriho irangi rijya kuba ubururu, ifite inkingi z'umweru, ahagana hasi hari icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi no hejuru kirahari, barayobora abahagana kugira ngo bamenye ibihakorerwa.

Icyumba kinini bigaragara ko ari icyo kwa muganga, harimo ibitanda bishasha amashuka ari mu ibara ry'ubururu, hakingirijeho amarido kugira ngo nibasuzumiramo uburwayi, babikore mu ibanga; hari ikindi gihande cy'ahagana hirya, kiriho amadirishya manini, na ho bashaka kuhakoresha bita ku babagana.

Inyubako y'amatafari ahiye, ifite ubusitani bw'icyatsi kibisi, imbere muri yo hari abantu bahahuriye bigaragara ko baje kwivuza, bategereje muganga uza kuza kubafasha.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byo kwa muganga, hari igitanda bashobora gusuzumiraho umurwayi, hari mudasobwa bashobora kwifashisha bareba ibisubizo by'ababagana bitabagoye.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, wambaye ipantaro y'umukara, yicaye ku ntebe iri mu ibara ry'icyatsi kibisi, hirya ye hari ibikoresho bitandukanye, ashobora kwifashisha yita ku bamugana, bigaragara ko ari kwa muganga.

Abantu bahagaze hamwe imbere y'inyubako nziza iteye irangi rijya kuba umuhondo, bambaye impuzankano igaragara ko ari iy'abaganga hejuru yabo hari icyapa kigaragaza ko ari ku bitaro byakira ababyeyi, biteguye gufasha uwari we wese waza abagana.

Inyubako nini, hari icyumba kirimo ibikoresho byinshi bigaragara ko ibyo kwa muganga. Hari igitanda gishasheho amashuka ari mu ibara ry'ubururu, bacyakiriraho abarwayi babagana bakabasuzuma. Hari n'ibindi bikoresho byinshi bifashisha.

Ibikoresho bitandukanye, biri no mu mabara atandukanye, ni byinshi. Biri mu nyubako nziza, igaragara ko ari iyo kwa muganga, harimo ibitanda, intebe, ameza, imashini, byose bikoreshwa bita ku baje kwa muganga.

inzu iteye irangi rijya kuba umukara imbere yayo hari ubusitani bunini cyane buri mu ibara ry'icyatsi kibisi ryari igiti gihinguka nacyo ni cyatsi kibisi hari akayira keza k'abanyamaguru hari n'abantu barimo kukagendamo bagana kuri iyo nyubako hari icyapa kigaragara neza kirimo ubwo busitani cyerekana ibihakorera

Umuntu w'igitsina gore uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye ipantaro y'umukara, agapira kari mu ibara ry'umweru, afite imisatsi myinshi cyane, yazamuye amaboko yombi hejuru.

Umusore w'imibiri yombi, wambaye ikabutura y'umukara n'isaha y'umukara, yafatishije amaboko yombi ku kaguru ahagana mu ivi, arimo kuhakanda, ashobora kuba yavunitse.

Umugabo ubyibushye w'imibiri yombi, ari mu myitozo ngororamubiri yambaye akantu ku kaboko ko mu ibara rya move, yambaye umupira w'icyatsi kibisi, arimo kwisukaho amazi akoreshe amaboko yombi, aragira ngo yongere kugira imbaraga akomeze imyitozo.

Umukobwa w'imibiri yombi uri mu myitozo ngororamubiri. Ipantaro yambaye ni umukara. Agapira na ko ni umukara. Afite imisatsi myinshi. Yicaye akaboko yagafatishije inyuma akandi kari ahagana ku mutwe. Yasobanyije amaguru. Hino ye hari icupa ririmo amazi.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri wambaye ikabutura y'umukara, agasengeri kariho umweru ndetse n'umukara, arimo kwiruka cyane, inyuma ye hari ibyo kurya bitandukanye birimo imbuto n'imboga, byose bishobora gutuma umubiri umererwa neza.

Umuntu w'igitsina gore uri mu imyitozo ngororamubiri, ni inzobe, imisatsi ye irasutse, yayifungiye hejuru, yambaye isaha y'umukara n'akandi kantu yambaye k'umukara, yafashe ukuboko kumwe agushyira mu bitugu, ukundi agufatisha ku nkokora, arareba imbere.

Iyi nyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye, harimo igitanda kiri mu ibara ry'ubururu, harimo intebe, hari n'ibindi bikoresho byinshi biri mu ibara ry'umukara, babikoresha bita ku babagana, ni kwa muganga kugira ngo bongere kumererwa neza.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri, wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umweru, hari urimo kumufasha kuyikora wambaye imyenda y'ubururu, arimo kuzamura akaguru ke agafatishije amaboko yombi.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri wambaye umupira w'umweru, yambaye n'ipantaro y'umukara, ni igitsina gore, yambaye akantu mu ijosi k'umweru, arimo gukanda ku kaboko akoresheje agatambaro kari mu ibara ry'ubururu, ashobora kuba yavunitse agira ngo yumve ko yakongera kumererwa neza.

Umuntu w'igitsina gabo uri mu myitozo ngororamubiri igitambaro cy'umweru mu ijosi, yambaye mu umupira w'umukara werurutse, afite ubwanwa buke ni imibiri yombi, afite icupa ry'amazi arimo kunywa.

Umukobwa uri mu imyitozo ngororamubiri wambaye ipantaro y'umukara iriho utuntu tw'umweru, agasutiye k'umukara, yazamuye amaboko yombi, amaguru yicara ayasobanyije, imbere ye hari mudasobwa irimo kumufasha gukora iyo myitozo, hari agacupa k'amazi n'ibindi bikoresho yifashisha bitandukanye.

Ibyo kurya byinshi bitandukanye, hari ibikomoka ku matungo aya ni amagi, hari imboga, hari imbuto, hari umuntu urimo gukora imyitozo ngororamubiri bishobora kumufasha akabona imbaraga.

Umugabo ubyibushye w'imibiri yombi, yambaye umupira w'ubururu bwijimye, yambaye isaha y'umukara, afite ubwanwa bukeya, afite icupa ry'amazi arimo kuyanywa, biratuma gukora imyitozo ngororamubiri bimworohera.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri wambaye isengeri y'umukara, yamanuye amaboko yombi ayafatisha ku birenge, yicaye ahantu hari mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Imbuto ziri mu mabara atandukanye hari iz'umuhondo, hari iz'umutuku, hari icupa ry'amazi riri ahagana haruguru, hari n'imashini ishobora kuzitunganya zikavamo umutobe mwiza cyane ugirira abantu benshi akamaro abakuru n'abato.

Umuntu wicaye, ari mu myitozo ngororamubiri, amaguru yombi yayasobanyije, yicaye ku gatapi kerurutse k'umukara, yambaye akantu k'agasutiye k'agakara, akaboko kamwe yakanyujije mu kwaha akandi karareba imbere, hari ibikoresho iruhande rwe yifashisha muri iyo myitozo.

Icyumba cyiza kinini cyane, kirimo ibikoresho byinshi cyane, bifasha abakora imyitozo ngororamubiri bahahurira kuyikora bitabagoye.

Umuntu w'umugabo ubyibushye wambaye umupira w'umukara, ipantaro iri mu ibara ry'ikigina ari mu myitozo ngororamubiri yateruye icyuma kinini, hirya ye hari n'ibindi bikoresho bifashisha.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, wambaye imyenda y'umukara, ipantaro ni umukara n'agapira n'umukara, ni inzobe cyane afite n'imisatsi y'umukara, hari akantu yambaye ku kaboko arimo kunywa amazi.

Umuntu uryamye wambaye umupira w'umweru ikabutura y'umukara imananitseho utubara n'amasogisi y'umweru, yazamuye akaguru hari undi urimo kumwitaho w'umunyamahanga wambaye umupira w'ubururu n'isaha y'umukara ashobora kuba yavunitse kuko yarari mu myitozo ngororamubiri arimo kumufasha.

Umuntu w'igikara uri mu myitozo ngororamubiri yambaye umupira w'umweru yawuhinnye agize ikibazo mu nkokora arimo arakandaho n'ikiganza akoresheje agatambaro kari mu ibara ry'ubururu, aragira ngo arebe ko yakongera kumererwa neza.

Umuntu w'imibiri yombi uri mu imyitozo ngororamubiri, yafatishije akantu k'icyatsi kibisi ku kaboko ahagana mu nkokora, arimo gukanda ashobora kuba yavunitse, agira ngo yumve ko yabasha koroherwa.

Umukobwa uri imyitozo ngororamubiri, wambaye inkweto z'iroze n'umweru. Yambaye ipantaro y'umukara, agapira nako karajya kuba irose. Yafatishije amaboko yombi ku kaguru kamwe. Kamwe kafashe hepfo ku mano, akandi kagarukira munsi y'ivi. Akandi kaguru karahinnye arunamye.

Ibyo kurya byinshi birimo imboga n'imbuto biri mu mabara atandukanye icyatsi kibisi, umuhondo n'umutuku, hari n'icupa ry'amazi, hagati yabyo byose bishobora kugirira umubiri akamaro.

Umuntu w'inzobe cyane uri mu myitozo ngororamubiri, araryamye, akaguru kamwe kararambuye, akandi karahinnye, hari undi wambaye umupira w'umukara, arimo aramukandira mu ivi, ashobora kuba yagize ikibazo.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri wambaye ipantaro y'ubururu bwerurutse, urukweto rw'amabara y'umweru n'umukara, agashati yambaye hejuru karimo icyatsi kibisi cyijimye, akaboko kamwe yagafatishije ku kaguru yahinnye ku rukweto, akandi akarambura imbere ye.

Abantu babiri umwe aricaye, yambaye impuzankano y'abaganga harimo ibara ry'ubururu, ni inzobe, yambaye n'uturindantoki tw'umweru, arimo gufasha uri imbere ye wambaye umupira w'umweru n'ikabutura irimo amabara y'umweru n'umukara byerurutse, ni igikara, arimo kumufasha kugenda ashobora kuba yari yaravunitse.

Umugabo uri mu imyitozo ngororamubiri, aricaye, arimo kuruhuka gato, afite agacupa k'amazi arimo kunywa, yambaye umupira w'ubururu, ipantaro y'umukara, inkweto na zo ziri mu ibara ry'ubururu, afite na terefone ye mu ntoki.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri, ni umugabo arabyibushye, yambaye umupira wi'icyatsi kibisi w'amaboko magufi, ni imibiri yombi, arimo kunywa amazi amufasha gukora imyitozo neza.

Umwe mu myitozo ngororamubiri, yambaye ipantaro y'umukara, isengeri y'umweru, yamanuye akaboko akageza ku mano, akaguru yakararambuye cyane, akandi kaboko kari ahagana haruguru.

Umuntu w'igitsina gore mu myitozo ngororamubiri wambaye agakabutura kamanutseho akabara k'umweru agasutiya yambaye karasa kajya gutukura yicaye mu byatsi amanuye amaboko yombi ayageza ku birenge.

Amacupa y'imyeru apfundikije n'imifuniko y'umweru, ariho ibyapa bigaragara neza, byerekana ibiyarimo niba ari imiti kugira ngo uyikoresha atagira urujijo.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri w'inzobe cyane, yambaye ikote ry'amaboko maremare rifite n'ingofero, afite icupa ry'amazi mu ntoki arimo kuyanywa.

Umuntu uryamye, w'inzobe, yubitse inda, hari undi uhagaze wambaye impuzankano y'abaganga, agapfukamunwa k'ubururu, arimo kumufasha amukanda mu mugongo, inyuma hari irido iri mu ibara ry'ubururu, imbere ye hari mudasobwa.

Umusore w'inzobe, wambaye umupira w'ubururu n'akantu k'umweru ku kaboko, afite ekuteri mu josi z'ubururu, akaboko kamwe gafashe icupa ry'amazi arimo kuyanywa, ari mu myitozo ngororamubiri.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri w'imibiri yombi yambaye umupira uri mu ibara ry'iroze afite imisatsi miremire y'umukara, yambaye kuteri akaboko kamwe gafashe icupa ry'amazi arimo kuyanywa.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, wambaye ipantaro y'umukara, agasengeri karimo akabara k'iroze, imisatsi irasutse, yararamye, amaboko ayafatisha imbere ye, hari indabo nziza imbere n'inyuma.

Umuntu w'imyitozo ngororamubiri w'igitsina gore, yambaye ipantalo y'ubururu bwerurutse n'agapira n'ubururu bwerurutse, afite imisatsi myinshi, yicaye arambije, amaboko arayamanura ayageza hejuru y'amaguru neza.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri ni umugabo, afite imisatsi y'umukara mike n'ubwanwa buke, yambaye umupira w'umukara, arimo kwimenaho amazi kugira ngo akomeze kugira imbaraga, ashobore gukomeza gukora imyitozo.

Umuntu w'igitsina gore uri mu myitozo ngororamubiri, afite imisatsi myinshi cyane yafungiye hejuru, yambaye agapira k'amaboko y'udushumi, na afite ekuteri mu matwi, hari n'akandi kantu k'umukara yashyize ku kaboko kanafashe icupa ry'amazi arimo kunywa.

Abantu babiri, umwe aricaye yambaye imyenda y'umukara, akaguruka kamwe nta sogisi kambaye, nta n'urukweto kambaye, yicaye ku gatanda k'umukara, akandi kambaye inkweto n'isogisi ry'umukara, undi arimo kumwitaho ku kaguru ashobora kuba yavunitse.

Umusore w'imibiri yombi, uri mu myitozo ngororamubiri, afite umusatsi muke n'ubwanwa buke, yambaye umupira w'ubururu, arimo kunywa amazi kugira ngo amufashe gukora imyitozo neza.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri w'igitsina gore, yambaye ipantaro y'umukara, isutiye y'umukara, afite imisatsi miremire ni inzobe, akaguru kamwe yagashyize inyuma, akandi agashyira imbere cyane.

Amacupa y'imyeru n'imifuniko yayo ni imyeru, ateretse atondekanije neza, hariho ibyapa bigaragara byanditsemo ibyerekana birimo, kugira ngo ubikoresha uwo ari we wese bitamutera urujijo.

Inyubako nini hari icyumba kirimo ibikoresho byinshi cyane, hari igitanda kiri mu ibara ry'ubururu, hari imashini nyinshi, byose bikoreshwa bita ku barwayi babagana kugira ngo bongere kumererwa neza.

Umukobwa w'imibiri yombi uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye umupira w'isengeri uri mu ibara ry'icyatsi kibisi cyerurutse, afite imisatsi yumukara, akaboko kamwe yakamanuye agakoza mu bitugu hagati, akandi akazamura agafatisha mu nkokora arareba imbere.

Umusore w’imibiri yombi ari mu gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye isengeri yerurutse, afite umusatsi muke, afashe icupa ry’amazi y’ubururu arimo kunywa amazi kugira ngo amufashe.

Umwana wicaye ku kaguru ke hafashwe n'umuntu bigaragara ko ari umunyamahanga, inyuma ye hari uwambaye imyenda imeze nk'iy'ababikira, inyuma yabo hari urukuta ruriho irange ruri mu ibara ry'umuhondo.

Umwe mu myitozo ngororamubiri n'igikara yambaye ekuteri mu mutwe yambaye agapira kajya gusa n'umutuku isaha ku kaboko yashyize amaboko yombi hejuru arayahuza arareba imbere.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byinshi bigaragara ko ari ibyo kwa muganga, hari intebe iri mu ibara ry'icyatsi kibisi cyijimye, hari izindi mashini hagana hirya nyinshi, hari mudasobwa ifasha abaganga kubona ibisubizo by'abarwayi bitabagoye.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri yambaye ikabutura y'umukara, umupira w'umweru, ni imibiri yombi, akaguru kamwe yagashyize imbere afatashaho akaboko kamwe, akandi agafatisha mu nda.

Umusore w'imibiri yombi, uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye umupira w'amaboko maremare n'ikabutura y'umukara, arapfukamye, akaboko amaboko yombi yayafatishije mu ivi.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri, n' imibiri yombi afite umusatsi muke yashyize igitambaro cy'umweru mu ijosi, yambaye umupira urimo icyatsi kibisi umwe n'ubururu, arimo kunywa amazi kugira ngo amufashe gukora imyitozo neza.

Umugabo ubyibushye w'imibiri yombi, ari mu myitozo ngororamubiri, yambaye kuteri y'umweru isengeri y'umukara, ipantaro y'umukara iriho akabara k'umweru ku ruhande, inkweto zirimo umweru, amaboko yombi yayafatishije ku ivi rimwe akandi kaguru yakarambuye inyuma.

Umuntu w'inzobere uri myitozo ngororamubiri, akaguruka karahinnye, hari ibiganza bibiri bimufasheho ni iby'umuganga wambaye impuzankano y'umweru, arimo kumufasha yagize ikibazo mu ivi.

Imwe umwe mu myitozo ngororamubiri, uw'inzobe yicaye amanura amaguru yose, amaboko na yo arayamanura ayafata kugeza mu kirenge, arunamye arimo guseka.

Umwana uri mu myitozo ngororamubiri, ni igikara. Yambaye umupira urimo ubururu, umweru n'icyatsi kibisi, yashyize igitambaro mu ntoki kiri mu ibara ry'umweru, arimo kunywa amazi mu icupa.

Umuntu w'imibiri yombi, uri mu myitozongororamubiri, yambaye ipantaro y'umukara, agasengeri k'umukara, inkweto ni umutuku, yamanuye amaboko yombi afata ku kirenge cy'akaguru kamwe akandi karahinnye.

Umuntu w'inzobere uryamye wambaye ikabutura y'ikake, hari uwambaye impuzankano y'umweru y'abaganga yamufatishije amaboko yombi mu ivi, ashobora kuba yavunitse arimo kumufasha.

Abantu benshi barakora imyitozo ngororamubiri, ni abagabo n'abagore, bambaye imyenda bose yambarwa bari mu myitozo n'inkweto, hirya yabo hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Abantu benshi bari mu myitozo ngororamubiri, hari batatu bagaragara neza, hari babiri bashinzwe gufasha abagize ikibazo cy'imvune bambaye amajire y'umutuku, harimo uwambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ubururu baramufasha kugira ngo agere aho avurirwa aravunitse.

Umuntu w'umugabo ubyibushye w'imibiri yombi ari mu myitozo ngororamubiri, yambaye umupira w'umukara werurutse, aricaye yazamuye amaboko yombi amaguru ayashyira imbere ye.

Umuntu w'igitsina gore wambaye imyenda y'umukara, ari mu myitozo ngororamubiri ni inzobe, akaguru kamwe yakamanuye cyane akandi arakazamura agafatira mu ivi, inyuma ye hari urukuta hari n'idirishya ku ruhande.

Umuntu upfukamye uri mu myitozo ngororamubiri amaboko yayashyize imbere, afite umusatsi yafunze, afite ubwanwa burebure, yambaye imyenda y'imikara iriho akantu ahagana hasi ku ikabutura kajya kuba umweru, agatapi ariho karerurutse.

Umugabo w'inzobe wambaye umupira w'umweru, uri mu myitozo ngororamubiri, yafatishije akantu k'ubururu mu nkokora y'akandi kaboko ke, arimo kugakanda ashobora kuba yavunitse, aragira ngo arebe ko yakongera kumererwa neza.

Icyumba kirimo ibikoresho bifashisha bakora imyitozo ngororamubiri, hari uryamye w'igitsina gore wambaye umupira w'umuhondo, wisutse umusatsi, ipantaro ni umukara, hirya ye hari undi Munyamahanga wunamye wambaye ingofero n'umupira y'umukara hari n'ibindi bikoresho bitandukanye bifasha abantu gukora imyitozo.

Umuntu w'umugabo w'igikara wambaye umupira w'umukara w'amaboko maremare, afite icupa ry'umweru yafatishije akaboko kamwe ririmo amazi, arimo kuyanywa, ari mu myitozo ngororamubiri.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, arabyibushye ni imibiri yombi, yambaye umupira werurutse, afite ekuteri mu matwi, afashe agacupa k'amazi arimo kunywa kugira ngo amugirire akamaro.

Umuntu w'inzobe wambaye ikabutura y'umukara, afatishije akaboko ku ivi arimo gukanda n'ikiganza, afite agatambaro k'ubururu ashobora kuba yavunitse agira ngo arebe ko byamufasha.

Umuntu wicaye w'inzobe, wambaye imyenda y'ubururu yahinnye ku kaguru kamwe ipantaro, afatishijeho akantu kari mu ibara ry'ubururu arimo gukanda. Ashobora kuba yavunitse, ubwo yari ari mu myitozo ngororamubiri, agirango ngo arebe ko yakongera kumererwa neza.

Umukobwa w'inzobe cyane uri mu myitozo ngororamubiri, wambaye ikabutura ifite ibara ry'icyatsi kibisi cyerurutse n'isengere birasa n'urukweto rurimo ako kabara, yazamuye akaguru agafatira mu ivi akandi kahagaze neza.

Umwe mubakora imyitozo ngororamubiri yambaye ipantaro y'umukara n'agaseri ni umukara, ni inzobe cyane n'imisatsi myinshi yarambuye amaboko yombi ayarebesha hejuru.

Umugabo w'igikara wambaye umupira werurutse, afite icupa yafatishije akaboko kamwe, riri mu ibara ry'ubururu, ririmo amazi, arimo kunywa, ari mu myitozo ngororamubiri.

Umusore w'imibiri yombi wambaye umupira w'umukara, ku maboko hariho utubara twa shokora, ari mu myitozo ngororamubiri akaboko kamwe yagashyize mu bitugu akandi arakazamura agafatisha mu nkokora arareba imbere.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, ni imibiri yombi, yambaye ikabutura y'umukara, isengeri ni umukara, inkweto ni umukara ziriho utubara tw'umweru n'amasogisi y'umweru, akaguru kamwe yakazamuye agafatashaho akaboko akandi gahagaze hasi, inyuma ye hari ibiti.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, ni imibiri yombi, yambaye agapira kariho akantu k'umukara kudushumi, yashyize igitambaro cy'umukara ku rutugu, yazamuye akaboko arimo kunywa amazi.

Umuntu w'igitsinagore uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye inkweto z'umweru, ipantaro y'umukara, isutiye y'umukara, imisatsi ni myinshi yayizamuye, yamanuye amaboko yose ajya kuyakoza ku kaguru kamwe yarambuye, akandi yagahinnye, inyuma ye hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Ibiti byinshi bigaragara neza biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, bishobora gukoreshwa hakavanwamo imiti itandukanye, ikavura indwara nyinshi cyane, harimo n'iz'ikinyarwanda.

Igiti cyiza gifite amababi meza ari mu ibara ry'icyatsi kibisi, gishobora kwifashishwa hakavamo imiti itandukanye ikavura indwara nyinshi, harimo n'iz'ikinyarwanda.

Ibimera byiza biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, bifite amababi meza cyane ashobora gukoreshwa akavanwamo ibintu byinshi bitandukanye, hashobora kuvamo n'imiti ivura abakuru n'abato n'abarwaye indwara z'ikinyarwanda.

Ibiti byinshi biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, amababi yabyo ashobora gukoreshwa akavanwamo imiti igiye itandukanye ikavura indwara z'ubwoko bwinshi harimo n'iz'Ikinyarwanda.

Icupa riri mu ibara ry'ubururu, rifite umupfundikizo w'icyatsi kibisi, hari amagambo yanditse imbere yaryo, ari n'ayanditse kuri ryo ubwaryo, arerekana ibirimo ni umuti kugirango uwukoresha atagira urujijo.

Amacupa agaragara neza atatu, harimo iriri mu ibara ry'umuhondo, rifite umufuniko w'ikigina, irindi rifite umufuniko w'umutuku, ryo ni umweru, hariho amagambo yanditse agaragara neza yerekana ibiyarimo kugira ngo ubikoresha niba ari imiti bitamutera urujijo.

Ibimera byinshi biragaragara ko byumye, babishyize ahantu hamwe, bazanye isekuru bagiye kubivanamo ifu, ishobora kuvura indwara zitandukanye harimo n'iz'ikinyarwanda.

Ibiti byiza bigaragara neza bifite amababi meza wabyifashisha ukora imiti itandukanye ikavura abantu benshi, abakuru n'abato harimo n'abarwaye indwara z'ikinyarwanda.

Amacupa menshi, apfundikije imifuniko iri mu mabara atandukanye, yose ariho ibyapa, bigaragaza ibirimo, ni imiti hagira ngo uyikoresha atagira urujijo.

Amacupa ari mu mabara atandukanye, hari ari mu ibara ry'ikigina, n'andi ari mu ibara ry'umweru, yose yanditseho amagambo agaragara neza yerekana ibirimo ni imiti, kugira ngo uyikoresha atagira urujijo.

Icupa ry'umweru n'umufuniko waryo ni umweru, hariho amagambo agaragara neza yerekana ibiri muri iryo cupa, niba ari imiti uyikoresha atagira urujijo.

Ibiti biri mu ibara ry'icyatsi kibisi bishobora kwifashishwa hakavanwamo imiti ikavura abantu benshi abakuru n'abato barwaye indwara zitandukanye.

Amacupa menshi, yiganjemo apfundikije imifuniko y'icyatsi kibisi, andi ari mu ibara ry'ikigina, harimo n'ay'imyeru; harimo imiti itandukanye, hariho n'ibyapa bigaragaza uko ikoreshwa, kugira ngo bidatera urujijo.

Ibiti byinshi biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, bishobora gukoreshwa hakavanwamo imiti igiye itandukanye, ishobora kuvura abantu benshi, harimo n'abarwaye indwara zo mu buryo bw'Ikinyarwanda.

Ibimera bitondetse neza biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, hari n'ibiri hirya by'imbuto, bishobora gukoreshwa hakavamo imiti itandukanye bikavura indwara nyinshi harimo n'iz'ikinyarwanda.

Icupa riri mu ibara ry'umuhondo rifite umupfundikizo w'ikigina, ryandikishije n'inyuguti zigaragara neza, zerekana ibirimo, niba ari umuti uri buwukoreshe bitamutera urujijo.

Ikibabi kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi, handitse amagambo agaragara neza asobanura imiti ishobora kuvamo ikagirira abantu benshi akamaro, indwara zitandukanye baba barwaye zose.

Ibimera byinshi bashyize hamwe mu tuntu dutandukanye duteretse ahantu bateguye umusambi, harimo n'ibyumye, hari umuntu urimo gusekura mu gasekuru arashaka gukuramo n'imiti ishobora no gufasha abarwaye indwara zitandukanye.

Amacupa atatu, hari iriri mu ibara ry'umuhondo gafuniko ni ikigina, hari irindi ry'umweru, hari nirindi rifunikishije agafuniko k'ubururu, yose yanditseho mu buryo bugaragara neza, amagambo agaragaza ibirimo ibari imiti kugira ngo uyikoresha bitamutera urujijo.

Ibiti byinshi biririmo ibara ry'icyatsi kibisi, ishobora kwifashishwa hakavamo imiti itandukanye, ikavura abantu benshi, abakuru n'abato, n'abarwaye indwara z'ikinyarwanda.

Icupa ry'umweru ripfundikije umupfuniko w'umweru, ryanditseho amagambo agaragara neza, ari mu inyuguti z'ubururu, arerekana ibirimo, ko ari imiti, kugira ngo abayikoresha batagira urujijo.

Amacupa menshi y'imyeru n'imifuniko ni imyeru hari amagambo yanditse agaragara neza yerekana ibirimo kugirango ubikoresha niba ari imiti bitamutera urujijo.

Ibimera biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, amababi yabyo ari ku ruhande ahagana hejuru hari amagambo yanditse mu buryo bugaragara neza yerekana akamaro kabyo, bishobora kuvamo n'imiti bikavura indwara nyinshi harimo n'iz'ikinyarwanda.

Amacupa menshi yiganjemo ay'umweru, harimo n'iry'umuhondo, umufuniko ni ikigina, yose yanditseho mu nyuguti zigaragara zerekana ibirimo niba ari imiti uyikoresha atagira urujijo.

Agakoko kariho ibintu byinshi bitandukanye, hari ibiri mu ibara ry'icyatsi, umutuku, byose ushobora kubitunganya ubisekuriye muri ako gasekuru, bikavamo ifu, ushobora kubishyira muri iyo cupa, ukaba ubonye umuti wavura abantu benshi, ukavuramo n'indwara z'Ikinyarwanda.

Amacupa atondetse neza, arimo imiti batunganije bigaragara ko ari ikinyarwanda, apfundikishije imifuniko y'umweru, hari napfundikishije ay'imituku. Hariho ibyapa byanditseho mu buryo bugaragara neza uko ikoreshwa kugira ngo idateza ikibazo.

Ibibabi bigaragara neza biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, bishobora gukoreshwa hakavanwamo imiti ikavura indwara nyinshi cyane n'izo mu buryo bw'ikinyarwanda.

Amacupa menshi ari mu mabara atandukanye yiganjemo ay'umweru hari iry'umuhondo ripfundiki agafuniko k'ikigina hari n'irindi ry'ikigina ripfundikije umufuniko w'umuhondo, ayo macupa yose uko angana yanditseho agaragaza ibiyarimo, ni imiti kugira ngo uyikoresha atagira urujijo.

Ibimera byinshi harimo n'ibyumye biri mu mabara atandukanye, bishobora gukoreshwa bakavura indwara nyinshi, harimo n'indwara zo mu bwoko bw'ikinyarwanda.

Ibiti biri mu amabara atandukanye, harimo ay'icyatsi kibisi, umuhondo n'umutuku, byose bishobora kuvamo imiti ikavura indwara zitandukanye harimo n'iz'ikinyarwanda.

Ibimera bitondetse mu tuntu tugaragara neza buri kimwe cyose kigiye cyanditseho uko gikoreshwa hafi ya byose biri mu ibara ry'icyatsi kibisi havamo imiti ivura indwara zitandukanye.

Ibiti byinshi hari ikigaragara neza gifite ibabi by'icyatsi kibisi, bishobora gukoreshwa hakavanwamo imiti itandukanye ivura indwara z'ubwoko bwinshi, harimo n'iz'Ikinyarwanda.

Imbuto nyinshi ziri mu mabara atandukanye, iziri mu muhondo, icyatsi kibisi n'umutuku, zose zishobora gufasha umuntu, akagira ubuzima bwiza cyane.

Hari amacupa hari n'amakarito afunze neza, hari amagambo yanditse kuri buri cupa ryaba iry'umukara ryaba n'iriri mu ibara ry'umweru, agaragaza ibirimo kugira ngo ubikoresha atagira urujijo.

Abantu babiri bahagaze umwe yambaye umupira w'umweru w'amaboko maremare yateze n'igitambaro. undi yambaye uw'umutuku. Hari ibiti byinshi biri aho hantu biri mu ibara ry'icyatsi kibisi. Bishobora gukoreshwamo imiti ivura indwara nyinshi harimo n'iz'ikinyarwanda..

Igiti cyiza ki mu ibara ry'icyatsi kibisi gifite ibibabi byiza, gishobora gukoreshwa hakavamo imiti itandukanye, ikavura indwara nyinshi harimo n'iz'Ikinyarwanda.

Ishami ry'igiti riri mu ibara ry'icyatsi kibisi, amababi yaryo ashobora gukoreshwa, hakavamo imiti myinshi, ikavura indwara zitandukanye, abakuru n'abato, harimo n'abarwaye indwara z'Ikinyarwanda.

Ibimera byinshi byiganjemo ibiri mu ibara ry'icyatsi kibisi, bitondetse neza, hari amagambo yanditseho agaragaza ubwoko bwabyo, bishobora gukoreshwa hakavamo imiti itandukanye, ivura indwara nyinshi harimo n'iz'ikinyarwanda.

Icupari ririmo ibintu by'icyatsi kibisi byijimye, umufuniko ni umuhondo urimo utubara tw'umukara, iriho icyapa kigaragara neza cyanditse mu nyuguti, hariho n'iz'icyatsi kibisi irerekana ibirimo, ni umuti kugira ngo abawukoresha batagira urujijo.

Amacupa menshi ari mu mabara y'ikigina n'umukara, ariho ibyapa byanditseho mu buryo bugaragara, kugira ngo abagura iyi miti iri muri ayo macupa itabatera urujijo.

Amacupa menshi ari mu mabara atandukanye, hari ay'umweru upfundikishije n'imifuniko y'umweru, hari irindi ry'umuhondo ripfundikije imufuniko usa ikigina, hari ibiti ku mpande biri mu ibara ry'icyatsi kibisi nibyo byavuyemo iyo miti yashyizwe muri aya macupa, hari amagambo yanditseho yerekana uko ukoreshwa.

Ibiti byinshi biri mu ibarari ry'cyatsi kibisi bifite amababi meza ashobora gukoreshwa akavanwamo imiti itandukanye, ikavura indwara nyinshi harimo n'indwara z'Ikinyarwanda.

Ibiti byinshi, biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, harimo n'ibyakoze cyane, hashobora kuvamo ibintu bigiye bitandukanye, harimo n'imiti, ikavura indwara nyinshi harimo n'iz'ikinyarwanda.

Ibimera byinshi birunze hamwe biri mu mabara atandukanye, icyatsi kibisi n'umutuku n'andi mabara, hari agasekuru hagati karimo n'umuhini, bashobora kubivanamo ifu ikavamo imiti ivura indwara nyinshi.

Agacupa k'umweru kariho igishusho y'igikakarubamba, kari ahantu hari mu ibara ry'icyatsi kibisi, kandikishijeho amagambo agaragara neza yerekana umuti urimo uko ukoreshwa kugira ngo bidateza urujijo.

Ibiti byiza biri mu ibara ry'icyatsi kibisi bishobora gukoreshwa hakavamo imiti itandukanye ikavura indwara zitandukanye harimo n'iz'ikinyarwanda.

Icupa ry'umweru n'umufundiniko waryo ni umweru hariho icyapa kiririmo ibara ry'ubururu ryanditseho amagambo agaragara neza yerekana ibirimo kugira ngo niba ari umuti abawukoresha be kugira urujijo.

Ibiti biri mu ibara ry'icyatsi kibisi biteretse mu tuvaze turi mu ibara ry'umutuku, amababi yabyo ashobora gukoreshwa akavamo imiti ivura abantu indwara zitandukanye harimo n'iz'Ikinyarwanda.

Ibemera bigaragara neza, higanjemo ibiri mu ibara ry'icyatsi kibisi, hari n'andi mabara nk'ikigina, byose bishobora gukoreshwa hakavamo imiti bashobora no kubyifashisha barimo gutegura amafunguro.

Ibiti biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, bishobora gukoreshwa bikavanwamo imiti itandukanye ishobora kuvura abantu benshi, abakuru n'abato, indwara zigiye zitandukanye, harimo n'iz'ikinyarwanda.

Icupa riri mu ibara ry'ikigina, ripfundikije umufuniko w'umweru, ryanditseho amagambo agaragara neza yerekana ibirimo, niba ari umuti abawukoresha, bitume batagira urujijo.

Amacupa menshi yiganjemo ari mu ibara ry'umweru, harimo iriri mu ibara ry'umuhondo ripfundikije umufuniko utukura, yose yanditseho mu buryo bugaragara neza, arimo imiti kugira ngo uyikoresha atagira ikibazo cy'urujijo.

Ibiti birimo ibara ry'icyatsi kibisi, bifite ibibabi byiza, hari umuntu w'inzobere wafashe ku kibabi kimwe, bishobora gukoreshwa hakavamo imiti myinshi ivura indwara zitandukanye, harimo n'iz'Ikinyarwanda

Amashami menshi y'ibiti biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, ibibabi byabyo bishobora kwifashishwa bikavanwamo imiti itandukanye, ishobora kuvura indwara nyinshi harimo n'izo mu bwoko bw'ikinyarwanda.

Icupa ry'umweru n'umufuniko waryo ni umweru, hari amagambo aryanditseho agaragara neza ari mu ibara ry'icyatsi kibisi, yerekana ibirimo, ni imiti iragaragaza abazayikoresha basobanukirwe kugira ngo bitabatera urujijo.

Ibiti byinshi biri mu ibara ry'icyatsi kibisi bitoshye, hari umuntu w'igitsinagore ufite imisatsi y'umukara, wambaye imyenda y'umweru, n'inzobe arimo kubikoraho ashobora gukuramo imiti ivura indwara zitandukanye harimo n'iz'ikinyarwanda.

Ibiti byiza by'ibara ry'icyatsi kibisi, bifite ibibabi byiza bitoshye, bishobora gukoreshwa hakavamo imiti itandukanye, ikavura indwara nyinshi harimo n'iz'ikinyarwanda.

Ibintu byinshi bitandukanye, hari ibifunze mu mapaki, bagiye bandikaho ibyo ari byo kugira ngo bidatera abantu urujijo, hari n'imineke, hari n'inanasi, byose abantu barabikunda kuko bibagirira akamaro.

Icupa ry'umweru ripfundikije umufuniko w'umweru, hariho icyapa cyanditse mu nyuguti z'ikigina zigaragara neza, zirerekana ibiri muri iryo cupa, niba ari umuti, uwukoresha bitaza kumutera urujijo.

Ibimera byinshi biri mu ibara ry'icyatsi kibisi bishobora gukoreshwa bikavamo imiti ikavura indwara nyinshi cyane harimo n'iz'ikinyarwanda.

Amacupa ari mu mabara atandukanye harimo ay'ikigina, ay'icyatsi kibisi, harimo imiti banditseho uko ikoreshwa kugira ngo itagira uwo itera ikibazo.

Ibiganza bibiri bigaragara ko ari ibyo umuganga, yafashe imiti ayivana mu gakarito, ni ibinini arimo kubisobanura, kugira ngo ubinywa bitamutera ingaruka mbi.

Amacupa menshi yiganjemo ay'umweru hari n'iry'umuhondo ripfundikije umufuniko w'ikigina, hariho ibyapa bigaragara byerekana ibiri muri ayo macupa, niba ari imiti, uyikoresha bitamutera urujijo.

Ibiti biri mu ibara ry'icyatsi kibisi biri ahantu hamwe, hari icupa riri mu ibara ry'ikigina, biragaragara ko hashobora kuvanwamo imiti, iyo miti igafasha abakuru n'abato, bagakira indwara zigiye zitandukanye, hirya yaho hari icupa riteretsemo akarabo keza, kari mu ibara ry'umweru n'icyatsi kibisi.

Ibimera byumye, babiteranyirije hamwe, bashobora gukuramo ifu, ikavamo imiti itandukanye, ikavura indwara nyinshi harimo n'iz'ikinyarwanda.

Ibiti byizai biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, hariho n'uturabo tw'umweru n'umuhondo, byose birashobora gukoreshwa hakavamo imiti itandukanye, ikavura indwara nyinshi harimo n'iz'Ikinyarwanda.

Ibiti biri mu ibara ry'icyatsi kibisi bishobora kwifashishwa, hakavanwamo imiti igiye itandukanye, ivura indwara nyinshi, abakuru n'abato bashobora gukira n'iyo baba barwaye indwara harimo n'iz'Ikinyarwanda.

Ibiti byinshi by'amashami ari mu ibara ry'icyatsi kibisi kijimye, bishobora gukoreshwa ibintu bigiye bitandukanye, harimo n'imiti ishobora kuvura indwara zitandukanye, harimo n'iz'ikinyarwanda.

Ibiti byinshi biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, bishobora kwifashishwa hakavamo imiti igiye itandukanye yavura indwara z'ubwoko bwinshi harimo n'iz'ikinyarwanda.

Ibiti byinshi biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, hari amazi meza y'urubogobogo amanuka mu musozi, hari abantu bahagaze imbere yayo bayitegeye, barimo kuyitegereza.

Amacupa atatu ateretse ku tuntu tw'umweru tugiye dusumbana, apfundikije imifuniko y'umweru, yose ariho amagambo yerekana ibirimo, ni imiti kugira ngo abantu bamenye uburyo bwo kuyikoresha batagize urujijo.

Ibiti byinshi biri mu mabara atandukanye harimo icyatsi kibisi, umutuku n'umuhondo. Byose bishobora kwifashishwa hakavamo imiti ivura indwara nyinshi harimo n'iz'Ikinyarwanda.

Ishami ry'igiti riririmo ibara ry'icyatsi kibisi rifite amababi meza ari akaboko k'umuntu wambaye umupira w'ubururu afashe kuri icyo giti ashobora gusoromaho imiti itandukanye ikavura indwara nyinshi harimo n'iz'ikinyarwanda

Ibimera byinshi biri mu bikoresho bitandukanye, byiganjemo ibiri mu ibara ry'icyatsi kibisi, bishobora gukoreshwa hakavamo imiti ishobora kuvura indwara nyinshi, harimo n'iz'ikinyarwanda.

Amacupa menshi cyane atondetse neza, ari mu mabara agiye atandukanye, yanditseho amagambo agaragaza imiti irimo, uko ikoreshwa, kugira ngo hatagira uwo itera ikibazo.

Ishami ry'igiti rifite amababi meza ari mu ibara ry'icyatsi kibisi, ashobora kuvamo imiti itandukanye ikavuna indwara nyinshi harimo n'iz'Ikinyarwanda.

Ahantu hari ibiti bitandukanye byagiye bishyirwa mu buryo bugaragara neza, hari ibiri mu ibara ry'umutuku, umuhondo, icyatsi kibisi hagiye handikwaho amagambo yerekana buri kimwe cyose icyo cyamarira umuntu, bivura indwara zigiye zitandukanye.

Ibiti byiza biriho amashami afite amababi arimo ibara ry'icyatsi kibisi, ishobora kwifashishwa hakavamo imiti itandukanye ivura indwara nyinshi, harimo n'izo mu bwoko bw'Ikinyarwanda.

Icupa ry'umweru umufuniko waryo n'umutuku, handitseho amagambo agaragara neza ari mu nyuguti z'umutuku, yerekana ibirimo kugira ngo ubikoresha niba ari imiti atagira ikibazo cy'urujijo.

Ibiti biririmo ibara ry'icyatsi kibisi bishobora gukoreshwa hakavamo imiti igiye itandukanye ivuna indwara z'ubwoko bwinshi harimo n'indwara zo mu bwoko bw'Ikinyarwanda.

Ni igiti kiza kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi, amababi yacyo ashobora gukoreshwa, hakavamo imiti itandukanye, ikavura indwara z'ubwoko bwinshi, harimo n'iz'ikinyarwanda.

Ibimera biteretse mu buryo bugaragara neza biri mu mabara atandukanye yiganjemo ay'icyatsi kibisi, buri kimwe cyose cyanditseho uko gikoreshwa ukugira ngo n'ibivamo imiti uzayikoresha izamugirirarire akamaro.

Ibimera byiza biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, hagati hateretsemo isekuru bishobora gusekurwa bikavamo imiti ikavura indwara nyinshi harimo n'izo mu bwoko bw'ikinyarwanda.

Amashami y'ibiti afite amababi y'icyatsi kibisi, ashobora kwifashishwa hakavamo imiti, ikavura abantu batandukanye, abakuru n'abato, harimo n'indwara z'Ikinyarwanda.

Amacupa abiri ari mu ibara ry'umuhondo apfundikishije imifuniko yo mu ibara ry'ikigina, hari amagambo yanditse mu buryo bugaragara yerekana ibiyarimo kugira ngo uyikoresha atagira urujijo.

Amacupa menshi atondetse neza ari mu mabara atandukanye, yose yanditseho amagambo agaragara neza yerekana bene ayo macupa,n' imiti kugira ngo abayikoresha itabatera urujijo.

Icupa ripfundiki umufuniko w'icyatsi kibisi ibirimo n'icyatsi kibisi, hariho icyapa kigaragara neza cyandikije inyuguti z'umweru n'iz'umukara zisobanura ibirimo, kugirango uribikoresha kuko ari umuti bitabatera urujijo.

Icyumba cyubakishije amakaro y'umweru, giteretsemo amacupa menshi ari mu ibara ry'umweru, hari n'apfundikije udufuniko tw'umutuku, hari n'irindi ry'umuhondo, yanditseho yose, arerekana ibirimo kugira ngo niba ari imiti uyikoresha bitamutera urujijo.

Ibimera byumye, bitondetse neza mu buryo bugaragara, bishobora gukoreshwa hakavanwamo imiti, ikavura indwara nyinshi zigiye zitandukanye, harimo n'iz'ikinyarwanda.

Amacupa menshi ari mu mabara atandukanye, hari iry'umweru rifite n'umufuniko w'umweru, hari irindi ry'umuhondo rifite umufuniko w'ikigina, hari n'andi atandukanye yose yanditseho mu buryo bugaragara kugirango imiti irimo uyikoresha atagira urujijo.

Amacupato atondetse neza yiganjemo apfundikishije imifuniko y'umuhondo, arimo imiti ishobora gukoreshwa ikavura indwara zitandukanye zirimo n'iz'Ikinyarwanda.

Amacupa atondetse neza harimo ibintu bigaragara ko ari icyatsi kibisi ibindi ni umutuku, yose ariho ibyapa bigaragara neza byerekana ibirimo, ni imiti kugira ngo uyikoresha atagira urujijo.